Aba mama bari ku ivomo rusange bigaragara ko baje kuvoma amazi, aba mama babiri bakaba bari inyuma bafashe icyuma bagenda bapompa kugirango amazi aze, naho undi mu mu mama akaba ari imbere kuri robine arimo kuvoma amazi.

Abantu bambaye imyenda y'ubwirinzi bisa n'aho hari icyorezo barimo kurwanya, bakaba bafashe ibintu bimeze nk'inshundura mu ntoki barimo gukurura mu rwego rwo kugira ngo bamagane icyorezo, hirya hari inyubako barimo gusohoramo ibikoresho.

Abantu batandukanye bahagaze bakaba bahagaze imbere y'icyapa kigaragaza ko bari kwamamaza ibijyanye na serivisi zijyanye n'ubuzima, inyuma yabo hari igiti gifite amashami menshi aba bantu abenshi muri bo bakaba bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'umweru.

Umubyeyi uhetse umwana, akaba yambaye agapira k'icyatsi, yakenyeye igitenge, ahetse umwana mu gitenge akaba yunamye arimo koza umufuniko w'indobo. Indobo isa umuhondo, imbere yayo hari robine bavomaho amazi.

Imodoka y'umweru iparitse, iri ahantu hari abantu benshi cyane, bigaragara ko hari igikorwa runaka cyahabaye cyahateranyirije abantu. Akaba ari imodoka itwara abantu bahuye n'uburwayi, mu rwego rwo kugira ngo ibihutishe kugera kwa muganga. Hakaba hari abantu benshi cyane ndetse hakaba hari n'umudaso uhagaze inyuma y'imodoka.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri bisa naho ari abanyeshuri, bakaba bari ku ivomo bose bunamye barimo gukaraba intoki, hirya yabo hari ibiti bicucitse bisa naho ari ishyamba.

Icyumba kinini kiberamo inama harimo abantu bicaye bigaragara ko baje kumva ikiganiro runaka, imbere yabo hari umudamu uhagaze bisa naho ariwe urimo kubaha ikiganiro.

Abantu basutamye bigaragara ko hari igikorwa runaka bamaze gukora, bambaye imipira y'umweru isa, inyuma yabo hari ikirangantego cy'icyapa kigaragaza serivisi bamaze gukoramo.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe zimbaho ariko zegamirwa bakaba bicaye imbere y'inyubako isize amarangi y'ubururu, mo hagati muri bo hakaba harimo umugabo wambaye imyenda y'icyatsi kibisi iriho'itararapo y'u rwanda bigaragara ko ari umudaso, hino yabo hakaba haparitse imodoka

Umwana uri ku ivomo ry'ikigega akaba arimo kuvoma amazi, yambaye impuzankano bisa naho ari umunyeshuri, akaba afite igikombe cy'umweru ikigega ari kuvomeraho amazi, akaba ari ikigega cy'umukara.

Abantu bicaye mu itente bigaragara ko baje kumva ikiganiro kirimo gutangwa ku ngingo runaka, itente bicayemo ikaba itatswe mu mabara agize idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Imbere y'itente hakaba hahagaze umumama urimo gutanga ikiganiro.

Ababyeyi bateraniye ahantu hamwe, bigaragara ko baje gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Bose bafite abana mu ntoki zabo, bisa naho ari bo baje gusabira serivisi. Imbere yabo hari umuganga usutamye, wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, akaba ari we uri kubafasha kubona serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Abantu bagiye ku muferege kuvoma amazi mu buryo bwa gakondo, umwe ni umukobwa bigaragara ko akuze n'aho undi ni umwana, umukobwa mukuru afite ijerekani yateretse mu muferege arimo kuvoma amazi ku kivovo.

Abantu bane baje ku ivomo rusange bakaba baje gushaka amazi yo gukoresha ibintu bitandukanye hakaba hari amajerekani menshi baje kuvomeramo amazi, imbere y'ayo majerekani hari umudamu uri kubafasha kubona amazi.

Abantu batandukanye bari mu kazi bakaba barimo gupanga imifuka isa naho irimo umuceri, bamwe ni abagabo abandi ni abagore, bakaba barimo kuyipanga ahantu hashashe ishitingi.

Umwana wambaye agapira k'umutuku, akaba ari ku ivomo arimo gukaraba intoki ubona ko yishimye cyane, akaba ari ivomo rusange ryubatse mu buryo bugezweho, hirya yaryo hakaba hari ibihuru bisa naho ari ishyamba.

Umuntu uri ku ivomo rusange akaba yaje kuvoma amazi. Afite ijerekani mu ntoki y'umuhondo ariko iruhande rwayo hari jerekani y'umukara no hino yayo hari akajerekani k'arindwi k'umweru, inyuma ye hari ibihuru bisa n'aho ari ahantu mu kibaya.

Abantu bari mucyumba, umwe akaba ari umuganga naho undi akaba ari umurwaza, umurwayi akaba aryamye ku gitanda bisa nk'aho ari umumama waje kubyara, umuganga arimo gutega amatwi ku nda kugira ngo yumve uko umwana arimo kuzenguruka mu nda.

Abana babiri bisa n’aho bari mwishuri bicaye ku meza, uw'imbere yazamuye urutoki hejuru bisa n’aho hari ikintu arimo kwerekana. Inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho ibintu bitandukanye.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko ari abaganga, bakaba bambaye amataburiya abaranga ndetse n'amakarita mu ijosi, hagati muri bo hari umugabo wambaye ikositimu bisa nkaho ari umuyobozi mukuru.

Abantu bari mu cyumba kigari bigaragara ko ari icyumba kiberamo inama cyangwa se giteraniramo abantu baje kumva ubutumwa runaka. Hakaba harimo ababyeyi bafite abana, bisa n'aho baje gukingiza abana.

Abantu bicaye mucyumba cy'inama bigaragara ko hari ingingo runaka barimo kuganiraho, bicaye barebana hagati yabo hari imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye, urugero: mudasobwa, uducupa tw'amazi n'ibindi.

Umubyeyi w'umumama uteruye umwana ukiri muto akaba yambaye agapfukamunwa k'ubururu, yambaye nanone amaherena ku matwi, akaba kandi yambaye ikanzu ifite amabara agiye atandukanye urugero nk'umukara, umuhondo ndetse n'umweru, akaba yambaye n'isaha ku kuboko.

Abantu bari mu itente bamwe akaba ari ababyeyi naho abandi ari abana, abana bakaba bambaye impuzankano y'ishuri bigaragara ko ari abanyeshuri muri abo bana harimo umumama wambaye itaburiya y'umweru bisa naho ari we mwarimu wabo naho imbere hahagaze abantu bigaragara ko ari abashyitsi.

Abantu bicaye mu cyumba imbere yabo ku meza hakaba hagiye hateretse agacupa k'amazi kuri buri muntu na none kandi hagiye hari agapapuro kanditseho amazina ya buri muntu n'icyo ahagarariye.

Umwana usutamye kuri robine bigaragara ko arimo kunywa amazi, kuko yateze ibiganza, inyuma ye hari abandi bantu bisa naho nabo bategereje ko asoza kunywa amazi, ubundi nabo bakaza bakanywa amazi hino yabo hari intebe ihateretse.

Abana benshi bateraniye ku ivomo rusange, bamwe bakaba barimo gukaraba intoki, bisa naho hari imyanda bari bafite mu ntoki zabo, iruhande rw'ivomo hari ibase nini cyane y'umutuku.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu mabara y'umuhondo, inyuma yabo hakaba hari abantu bahagaze mu muryango, harimo abirabura ndetse n'abazungu, bikaba bigaragaza ko hari igikorwa runaka cyabaye barimo kwizihiza.

Abana bari kuvomo, bigaragara ko baje kuvoma amazi, umwe ni umuhungu undi ni umukobwa, uw'umukobwa arimo kuvoma amazi mu tujerekani, naho uw'umuhungu ari inyuma ari kujya apomba kugira ngo amazi aze.

Umuganga urimo gutera urushinge umurwayi, umuganga akaba yambaye ga z'umweru mu ntoki n'aho umurwayi akaba yambaye agapira karimo uturongo tw'umukara, yazamuye umupira kugira ngo muganga abone uko amutera urushinge.

Urubaraza rwateraniyeho abantu benshi bisa naho hari serivisi baje gusaba, hakaba hari abamama bicaye ku ruhande rw'ibumoso ndetse n'abandi bicaye ku ruhande rw'iburyo, bisa naho ari kwa muganga.

Abantu benshi batandukanye bateraniye ahantu, bisa n'aho hari ingingo runaka barimo kwigaho, abenshi muri bo bafite impapuro imbere yabo, bisa naho hari ibintu byinshi bagiye bandika, hanyuma bakaba barimo kubiganiraho.

Umwana wunamye uri ku ivomo bigaragara ko arimo gukaraba intoki akaba yunamye hasi y'umugezi hari ibase y'umukara arimo kujya akaba intoki amazi ajyamo umwana yasutse imisatsi akaba yambaye imyenda idoze mu bitenge.

Umwana uhagaze mu mugezi, akab’afite akajerekani mu ntoki, arimo kudaha amazi yo gukoresha ibintu runaka, akab’ahagaze mu mazi ameze nk'ikiyaga ariko akaba ar’amazi adatemba.

Abantu babiri bicaye, umwe n'umugabo undi n'umugore, umugore yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu afite telefone mu ntoki n'ikayi mu ntoki ikindi arimo kwandika mu gitabo n'ikaramu, iruhande rwe hariru umugabo wambaye agapira k'ubururu niipantaro ijya gusa nka kake na ekuteri mumatwi.

Abantu benshi batandukanye bisa naho baje kwaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hakaba hari abaganga bambaye amataburiya y'ubururu, barimo kubafasha kubona serivisi zijyanye n'ubuvuzi, imbere y'abaganga hari abagabo bambaye amakositimu bisa naho ari abayobozi.

Abantu batandukanye bateraniye ahantu, hakaba hari abana barimo kugaburira mu rwego rwo kugira ngo bateze imbere imirire myiza, hari umupolisi ufite inyenyeri eshatu ufite igikombe mu ntoki urimo guha umwana igikoma.

Abantu bari kwa muganga bakaba baje gupimisha ibiro, hari umugabo wambaye itaburiya y'ubururu bisa naho aho ari umujyanama w'ubuzima urimo kubafasha gupima ibiro by'abana, hejuru hari umunzani barimo kujya bapimaho ibiro by'abana.

Abana bari ku ivomo rusange bigaragara ko baje kuvoma amazi, iruhande rwa robine barimo kuvomaho hateretse amajerekani baje gutwaramo amazi, akaba ari abana bari mu ngeri zitandukanye.

Abantu batandukanye baje kwaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi hakaba hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ikarita y'akazi mu ijosi urimo guha umukecuru serivisi ijyanye n'ubuvuzi, hirya gatoya hakaba hari umusore wambaye ijire y'abakorerabushake.

Abantu bari ahantu runaka bigaragara ko hari abakuze ndetse n'abana batoya abana bakaba bambaye impuzankano zisa zijya gusa nka orange bakaba bafite inkongoro ku munwa bigaragara ko barimo kunywa amata, naho abandi bantu bakuze nabo bambaye impuzankano zijya gu gusa na orange bisa naho bakorera ikigo runaka.

Abantu benshi cyane batandukanye bateraniye ahantu hamwe bisa n'aho ari ku kagari, iruhande rw'inyubako hari itente yicayemo abantu naho ku nyubako hari icyapa cyometseho kigaragaza igikorwa nyamukuru cyabaye.

Ibikoresho byifashishwa mu kongerera abantu umwuka kwa muganga, akaba ari ibikoresho bizwi nka bomboni iruhande rwabyo hari icyapa kigaragaza umwuka baba barimo kongerera umurwayi ukuntu ungana.

Abana barimo guseka ndetse n'umuntu mukuru ufite igikombe mu ntoki bisa naho arimo kubasukira amazi mu ntoki bagakaraba intoki, bityo bikaba byashimishije abana bitewe n'ukuntu arimo kubitaho, hagati yabo hari i base yifashishwa mu gukaraba intoki.

Abantu babiri bari ku iriba, umwe ni umukobwa undi ni umuhungu, umukobwa akaba ahagaze mu iribamo hagati arimo kudaha amazi mu ijerekani, naho umusore akaba ari ku ruhande arimo koza igar, hirya yabo hakaba hari ibyatsi bisa naho ari ikibaya.

Abantu batatu, umwe akaba ari umuganga wambaye agashati k'umweru, hirya hakaba hari undi muganga wambaye ishati irimo utubara tw'umuhondo n'utundi tw'umukara, imbere yabo hakaba hari umurwayi wicaye barimo gutera urushinge.

Abantu bambaye imipira y'ubururu isa, bamanitse amaboko bigaragaza ko hari intsinzi barimo kwishimira. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ndetse kiriho n'ibirango bigaragaza ikigo bakorera. Kandi bambaye ingofero z'umweru.

Abantu bicaye bisa naho barimo kuganira umwe n'umugabo undi n'umugore ufite umwana, bose bafite impapuro mu ntoki bigaragara ko hari ingingo runaka barimo kuganiraho bari gushakira umuti.

Abantu babiri baje kuvoma rusange umwe n'umugabo undi n'umugore buri wese afite ijerekani ari kuvoma amazi hirya yabo hari ishyamba ririmo ibiti birebire bisa naho bitarakura cyane.

Abana benshi bateraniye ku ivomo rusange bakaba bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bamwe barimo guseka bisa naho batangajwe no kuba barimo gukora ku mazi yo ku ivomo.

Abantu benshi batandukanye bateraniye ahantu hamwe bisa naho baje mu nama, bambaye imipira y'umweru isa bigaragara ko baje baturutse mu kigo runaka, harimo abagabo ariko hari n'abagore.

Abantu bambaye amataburiya ajya gusa nka bresiyeri ndetse n'amabaji mu ijosi, bakaba bahagaze imbere y’umusaza wambaye ikositimu y’umukara. Bisa naho ari umushyitsi baje gusanganira, bahagaze imbere y’inyubako isa nkaho ari ikigo nderabuzima.

Abantu bahagaze bigaragara ko ari abayobozi, bambaye amakositimu inyuma yabo hari ikipa cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru agaragaza igikorwa bamaze gukora.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bigaragara ko bari mu kanama nkemurampaka, imbere yabo hari amacupa y'amazi, mohagati umukobwa uhari afite insakazamajwi, iruhande rwe hakaba hari umugabo ufite mudasobwa imbere ye.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bisa n'aho bari mu nama bakaba bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari uducupa tw'amazi bamwe muri bo bakaba bafite amakaramu mu ntoki yo kuza kwifashisha mu kwandika ibitekerezo, hirya yabo ku gikuta hakaba hari televiziyo nini ya rutura.

Umukobwa usutamye imbere y'amabase, mu ibaze hateretsemo ijerekani y'umuhondo, inyuma y'uwo mukobwa hari imyenda yanitse ku ikamba bisa nk'aho ari yo bamaze kumesa.

Abantu bicaye mu cyumba kinini kiberamo inama, akaba ari abagabo ndetse n'abagore, abenshi mu barimo bafite amakaye, bisa naho hari amahugurwa bajemo hanyuma bakaba barimo kujya bandika ibitekerezo by'ingenzi birimo gutangwa.

Abantu bahagaze bisa naho barimo kwifotoza, bamwe muri bo bambaye amatabuririya y'umweru, naho abandi bambaye imyenda isanzwe, inyuma yabo hari igikuta cyanditseho amagambo bisa naho ari kwa muganga, hatangirwa serivisi zitandukanye.

Abantu babiri bigaragara ko barimo gukaraba intoki, umwe ni umumama naho undi ni umwana, umwana yambaye impuzankano ya kake, naho umubyeyi yambaye umupira w'ubururu ni'jipo yigitenge, ndetse n'agapfukamunwa bigaragara ko arimo kumukarabya intoki.

Umwana uri ku mugezi akaba asutamye arimo guterura indobo bisa naho irimo amazi, iruhande rw'umugezi hari umugabo wambaye ikoboyi n'agapira kajya gusa n'ubururu, akaba afite ingata mu ntoki y'amakoma agiye guha umwana kugirango abone uko yikorera indobo.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bigaragara ko hari ingingo barimo kwigaho, bicaye barebana hagati yabo hari ameza ateretseho ibikoresho byabo bitandukanye, barimo kwifashisha mu kungurana ibitekerezo.

Abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze, hakaba hari abagore babiri bicaye bisa naho baje gupimisha abana ibiro, imbere hari umugabo uhagaze bisa naho arimo kubasobanurira ibijyanye na gahunda ziri buze gutangwa, hirya ku ruhande hakaba hari umugabo wambaye impuzankano yambarwa n'imfungwa bisa naho ari umugororwa.

Abasore babiri barimo kuganira bigaragara ko bahuje urugwiro, umwe yambaye ishati ijya gusa n'ivu ahetse n'igikapu mu mugongo, undi yambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu, akaba afite akantu mu ijosi k'umutuku kameze nk'akagozi bose bafite utuntu ku maboko tw'ubururu hirya yabo biragaragara ko hari abandi bantu.

Abagore batatu bari ku ivomo rusange, bigaragara ko baje kuvoma amazi, abagore babiri bakaba bafite icyuma cy'umugezi barimo kujya bagipompa kugira ngo amazi aze, naho undi mugore umwe akaba ari imbere arimo kujya avoma amazi.

Abantu batandukanye bari ku ivomo rusange, bakaba baje kuvoma amazi, hari amajerekani menshi cyane barimo kuvomeramo amazi, imbere hakaba hari ijerekani irimo kuvomerwamo amazi iriho umubirikira, ivomo bari kuvomaho rikaba risize irangi ry'ubururu.

Abantu bicaye bigaragara ko bamaze gukora inama hanyuma bakaba barimo kwifotoza, higanjemo igitsina gabo hakaba harimo ndetse n'umuzungu, bigaragara ko bari bitabiriye inama yahuje abantu baturuka mu gihugu ndetse n'abaturuka hanze y'igihugu.

Abantu bicaye muri sare bigaragara ko barimo gukora inama, hakaba harimo ameza menshi atandukanye abantu bakaba bagiye bicaye bazengurutse ameza, higanjemo abagabo ariko harimo n'abagore hirya ku gikuta hari televiziyo nini ya rutura.

Abana babiri basutamye bakaba bari ku mugezi, barimo gukaraba intoki mu rwego rwo kugira ngo bagirire isuku umubiri wabo, umwe yambaye imyenda ifite amabara ajya kumera nka gisirikare, naho undi yambaye agapira k'umutuku, inyuma yabo ni ikibaya kirimo ubwatsi bwumye wagira ngo hateye amapfa.

Abantu batandukanye bateraniye iruhande rw'inyubako hakaba higanjemo abagore bakaba bambaye imyenda isa bisa nkaho hari ikigo runaka bakorera

Abantu bari munzu mberabyombi bakaba bari mu inama bambaye amakositimu imbere yabo hari abayobozi bicaye ku ntebe bakaba barimo kubaha ibiganiro ku ngingo runaka.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bigaragara ko hari igikorwa nyamukuru bajemo, hakaba hari abantu bari imbere baryamishije umwana w'uruhinja hasi, bisa naho barimo kumupima uburebure mu rwego rwo kugira ngo bamenye indeshyo ye.

Abana batatu bambaye impuzankano y'ishuri bigaragara ko ari abanyeshuri, bakaba bahagaze imbere ya robine eshatu barimo gukaraba intoki, ku ntoki zabo hariho urufuro bigaragara ko bashyizeho isabune.

Abantu babiri umwe akaba ari umusore mukuru undi akaba ari umwana mutoya. Umwana afite ibinika mu ntoki arimo gusukira undi musore mukuru amazi mu ntoki kugira ngo akarabe intoki, umusore kandi afite isabune mu ntoki hasi hari indobo ari gukarabiramo.

Abantu bicaye mu cyumba gitangirwagwamo ubuvuzi bigaragara ko baje kwikingiza indwara runaka, harimo abaganga barimo gutanga izo serivisi ndetse n'abarwayi baje gusaba izo serivisi, hakaba hagiye harimo n'ameza ateretseho imiti irimo kwifashishwa mu rwego rwo gukingira abarwayi.

Abantu babiri bafite igikapu mu ntoki cy'umukara icyo gikapu kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, umwe n'umugabo naho undi n'umugore umugabo yambaye ikositimu naho umugore yambaye imyenda isanzwe.

Abantu bahagaze ahantu hamwe bisa naho ari abayobozi, bamwe muri bo bambaye amakositimu hakaba harimo ndetse n'abagore bambaye amakositimu, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza serivisi bahagarariye.

Abana babiri bari ku ivomo, bigaragara ko barimo kuvomera amazi mu ndobo, imbere yabo hakaba hari indobo nyinshi zitandukanye z'imyeru, inyuma yabo hakaba hari ibiti bisa n'aho ari iby'imyembe.

Abantu bicaye muri salle nini, bigaragara ko baje gufata amahugurwa runaka, kuko buri wese afite ikaye mu ntoki arimo kujya yandikamo ibitekerezo birimo gutangwa, bicaye ku ntebe zimeze nk'imbaho ariko zifite aho begamira.

Abana benshi bicaye mu nyubako bakaba bicaye ku mikeka bambaye imipira y'ubururu bisa naho ari abanyeshuri, hagati muri bo hari umukobwa w'umuzungu inyuma yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye bifashisha mu gihe bari gukora ibikorwa bakora.

Ikirango kiri mu mabara y'ubururu bwijimye ndetse na oranje, kikaba kiriho umukobwa w'umwirabura urimo guseka bigaragara ko anezerewe bitewe na serivisi ahabwa.

Umupira mwiza cyane uri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru igice kinini akaba ari umweru, naho ku maboko akaba ariho h'ubururu hakaba hariho amagambo yanditseho bigaragara ko yamamaza ikigo runaka.

Abantu batandukanye bababaye, bisa naho hari umuntu wabarenganyije, bakaba barimo kurira bafite agahinda ndetse n'intimba, bambaye imyenda isa nabi yacikaguritse, bigaragara ko ari abantu baturuka mu miryango itishoboye.

Umubyeyi ufite isuka mu ntoki, akaba yikoreye igitebo ku mutwe kirimo ibyatsi bisa nk'aho avuye gukura ibijumba, iruhande rwe hari igiti kiriho igisayote.

Umuntu wicaye wambaye imyenda yishwabari bisa naho ari umusazi akaba afite amashashi mu ntoki arimo amazi bigaragara ko ari amazi aribuzeze kunywa mu gihe araza kuba agize inyota.

Umubyeyi wicaye ku ntebe y'urubaho uhetse umwana, ndetse hakaba hari n'undi mwana uhagaze iruhande rwe, atetse igikoma, akaba arimo kuvanga mu isafuriya mu rwego rwo kugira ngo igikoma kidashirira.

Umuntu wicaye wigunze bisa naho atagira iyo aba. Yambaye agapira k'umutuku k'amaboko magufi n'ipantaro y'ikoboyi ishaje cyane. Ikindi yambaye inkweto z'umukara zisa n'iziterwa siraje. Ahantu yicaye hasa nkaho ari ahantu hamenwa imyanda.

Abantu bicaye mu nyubako bisa naho bari mu rusengero, bakaba bicaye ku ntebe zisa umutuku, hakaba higanjemo igitsina gore. Ni inyubako bigaragara ko ari inzu mberabyombi.

Abana benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bigaragara ko bishimye bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bamwe bari guseka abandi bararangaye bigaragara ko hari igikorwa runaka cyabarangaje.

Umukobwa wicaye urimo guseka, yambaye agasengeri k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, afite imisatsi yasokoje afite amenyo y'umweru yasetse cyane, akaba yicaye ku ntebe iboheshejwe imikindo.

Abantu bahagaze ahantu hamwe, bisa n'aho ari abapolisi, harimo abamama bambaye imyenda isanzwe ariko abagabo benshi barimo bambaye imyenda ya gipolisi.

Abantu babiri bari kuganira, bose akaba ari abakobwa, umwe yambaye ikote ry'umutuku n'ingofero ijya kumera nka gisirikare, naho undi yambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse na marinete y'umweru.

Abantu batandukanye barimo gukora igikorwa cy'umuganda, umuganda akaba ari igikorwa cyiza cyane kuko gituma abantu bihuriza hamwe maze bagakora ibikorwa bishobora guteza imbere igihugu ndetse n'abaturage.

Umukecuru urimo guseka bisa naho ashaje cyane, yambaye imyenda y'ibitenge kandi yanipfutse ibitenge, akaba afite iminkanyari mu isura ye bigaragara ko ashobora kuba akuze cyane.

Abantu batatu bicaye mu cyumba hakaba harimo abagore babiri bateruye abana batoya bisa naho ari impinja, undi wa gatatu akaba ari umugore ufite imbere ye telefoni ebyiri akaba arimo kubasobanurira ibintu runaka.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako, bakaba ari abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, ahantu bahagaze hari esikariye, inyuma yabo hari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho.

Umuntu wambaye imyenda yacikaguritse usa nkaho ari umusazi, mu maso ye yabaye umukara cyane wagira ngo yarahiye, ahagaze mu muhanda wa kaburimbo inyuma ye hari ikamyo irimo gutambuka.

Umubyeyi munini ubyibushye cyane, wambaye amadarubindi ufite imisatsi y'umukara, yambaye ikanzu irimo amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo arimo kwerekana agakarita kagaragaza serivisi akoramo.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, bigaragara ko abenshi muri bo ari urubyiruko. Bambaye imipira isa ubururu, kandi bose bambaye imipira isa. Hagati muri bo hakaba hari umugabo uhagaze, wambaye ishati y'umweru na karuvati ndetse n'ipantaro y'umukara. Bisa n'aho ari umuyobozi wabo.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, bigaragara ko ari umunyeshuri, akaba yambaye ishati y'umweru iriho na karuvati ndetse akaba yambaye n'ikabutura ijya gusa n'ubururu bwijimye, yicaye ku ntebe y'umuhondo, imbere ye hari ameza y'umuhondo, akaba afite biswi mu ntoki arimo kuyirya.

Umugabo urimo kurira bigaragara ko afite intimba n'agahinda ndetse n'ishavu, amaso ye yatukuye bigaragara ko amaze umwanya munini ababaye, iminwa ye yatangiye gutemuka bisa naho yarize cyane.

Abantu bari mu cyumba bicaye hakaba hari n'undi uhagaze w'umumama, bisa naho bari mu nama, uwo mu mama akaba afite insakazamajwi mu ntoki, naho abandi ba mama bicaye bakaba bamuteze amatwi, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Abantu batandukanye bahagaze bafite utuntu mu ntoki bigaragara ko barimo kwifotoza nyuma yo gukora igikorwa runaka. Muri aba bantu hakaba harimo na madamu wa perezida wa repubulika Jeannette kagame . Inyuma yabo hakaba hari ikirangantego kigaragaza ibyo barimo gukora.

Umu mama wambaye agapira k'umutuku, m'imbere akaba yambaye agapira k'ubururu bwijimye, arimo guseka, afite isura y'imibiri yombi, ikindi afite umusatsi wa natural.

Umuntu wambaye ibyenda byacikaguritse, akaba yiyambitse ibintu bimeze nk'amashashi, inyuma ye hakaba hari imyanda myinshi ipanze ndetse n'ibintu bigaragara ko byajugunywe, akaba ameze nk'umusazi.

Umugore n'umugabo bicaye iruhande rw'ameza, bigaragara ko umugore hari serivisi yaje gusaba umugabo, imbere y'umugabo hari terefone irambitse ku meza ndetse n'icupa ry'amazi.

Imodoka nini y'ikamyo akaba ari imodoka y'umweru iparitse ahantu mu kibuga, ikaba iriho icyapa kigaragaza serivisi bajemo, inyuma y'imodoka hari intebe nyinshi zipanze ndetse n'igisharagati abantu bicaramo.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, hagati yabo hakaba hari umudamu uhagaze, bigaragara ko ariwe urimo kubaha ikiganiro, aho bicaye imbere yabo ku meza hagiye hateretse ibikapu byabo ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Umuntu wambaye agapira k'umuhondo akaba arimo guseka yishimye cyane, afite amenyo y'umweru akaba kandi afite ubwanwa ku kananwa.

Umumama wicaye, bigaragara ko yihebye, yifumbaze amaguru asa n'umuntu wababajwe, akaba yicaye iruhande rw'igiti cyanditseho amagambo menshi atandukanye ndetse kiriho umunyururu umuziritse ku kaguru.

Umubyeyi w'umumama ubona ko mu maso yisharirije cyane, wagirango ngo hari ikintu cyamubabaje afite amaso asa umweru harimo imboni z'umukara akaba yipfutse igitenge.

Abana bakiri bato bigaragara ko bishimye kuko abenshi muri bo barimo guseka, bamwe muri bo bambaye impuzankano y'icyatsi, bigaragara ko ari abanyeshuri bose bakaba bariyogoshesheje igipara.

Abantu bicaye ku ntebe y'urubaho bakaba bicaye imbere y'inzu bigaragara ko ari umuryango wateranye . Hakaba harimo abagabo babiri n'abagore batatu ndetse n'umwana mutoya ubicayemo hagati.

Abantu bicaye bambaye imipira y'icyatsi yanditseho tubeho, inyuma yabo hakaba hari abaganga bambaye imipira y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, bisa naho aribo bari kubafasha kubona serivisi zijyanye nuubuvuzi.

Igishushanyo cy'amenyo cyifashishwa mu rwego rwo kwereka abantu amenyo agize umuntu bityo bakamenya umubare w'amenyo ari mu kanwa k'umuntu, ikindi kandi kifashishwa mu rwego rwo kugira ngo abantu bamenye uburyo ushobora kwita ku menyo yawe.

Telefone igezweho imeze nka mudasobwa, ikaba irimo ibishushanyo bigaragaza uko umurwayi ameze, hari umuganga uri gukoza intoki muri taburo yacyo kugira ngo arebe uko umurwayi ameze.

Abantu bari mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo ubuvuzi, akaba ari abantu batatu babiri ni abaganga naho undi ni umurwayi, abaganga babiri bakaba barimo kuvura umurwayi bamukura amenyo bisa naho yagize ikibazo cy'amenyo.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga mu gihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, ni ibikoresho bigezweho kuko bivura indwara zikomeye cyane.

Umuganga wasamuye umwana umunwa bisa naho arimo kumuvura amenyo cyangwa se umwana afite iryinyo ryashiririye umuganga akaba agiye kurikura, umuganga afite utwuma mu ntoki twifashishwa mu gihe barimo gukura amenyo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru akaba yambaye n'amarinete, afashe igishusho imbere ye arimo kureberaho uburyo amenyo ateye mu rwego rwo kugira ngo amenye uko yakita ku kumurwayi.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, kikaba kirimo na televiziyo imbere umurwayi baboneramo ikibazo afite bitewe n'aho muganga yamupimye.

Igishushanyo cy'amenyo akaba ari igishushanyo cyifashishwa cyane cyane mu mashuri, igihe barimo kwereka abanyeshuri ukuntu ushobora kwita ku menyo cyangwa se ushobora kuvura umuntu urwaye amenyo.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga y'ubururu, ndetse n'agapfukamunwa, akaba arimo kuvura umurwayi amenyo, mu rwego rwo kugira ngo yongere kubona ukuntu yarya.

Umuntu wambaye itaburiya y'umukara akaba afite uburoso bw'amenyo mu ntoki arimo koza amenyo arimo koza amenyo yireba mu ndorerwamo kugira ngo imufashe kumenya niba amenyo ye yakeye inyuma ye hari irido ry'umutuku.

Umuganga urimo kuvura umurwayi, akaba arimo kumukura amenyo, umuganga afite utwuma mu ntoki bifashisha mu gihe barimo gukura amenyo, yambaye ga z'umweru mu ntoki, umurwayi araryamye aragaramye.

Abantu bari mu cyumba hakaba harimo abambaye imipira y'umweru ndetse n'abambaye imipira y'icyatsi isa kandi yanditseho amagambo amwe. Hakaba harimo umumama uhagaze ufite uburoso bw'amenyo arimo kubukoza mu kanwa.

Umugabo urimo kwireba mu ndorerwamo, akaba yasamye afite akadodo mu ntoki k'umweru bisa naho arimo kugacisha mu menyo, kugira ngo akuremo imyanda yasigayemo nyuma yo kuyoza.

Umugabo urimo kwireba mu kirahuri cyangwa se mu ndorerwamo akaba afite akadodo mu ntoki kameze nk'akadeyi, akaba arimo kugakoza mu menyo ye bisa naho arimo kuvanamo imyanda yasigayemo amaze kuyoza.

Umuganga ufite igishushanyo mu ntoki cy'amenyo, bigaragara ko arimo kwiga uburyo bakura amenyo, yambaye ga zisa nka move mu ntoki, ndetse afite akuma kifashishwa mu gukura amenyo.

Umuganga wicaye ku ntebe y'icyatsi akaba yambaye itaburiya y'umweru, akaba yambaye isaha ku kuboko, akaba yambaye agapira mo imbere, kajya gusa n'ikigina iruhande rwe hari icyuma umurwayi aryamaho igihe aje kwisuzumisha.

Umukobwa mwiza urimo koza amenyo, akaba afite imisatsi miremire y'umukara yambaye agapira kameze nk'agasengeri k'umweru, imbere ye hari amacupa atandukanye bigaragara ko harimo amavuta yisiga.

Abantu bari mwishuri imbere hakaba hari umwarimu wambaye itaburiya yumweru imbere ye hakaba hari umwana wambaye ishati y'icyatsi ufite igishushanyo cy'amenyo naho umwarimu akaba arimo kumwereka uburyo boza amenyo.

Umugabo utambaye ku gice cyo hejuru, ufite akantu kameze nk'isume ku rutugu, afite akadodo k'umweru mu ntoki arimo kugakoza mu menyo bisa naho ashaka gukura imyanda mu menyo yasigayemo nyuma yo kuyoza.

Umuntu urimo guseka, ufite amenyo meza y'umweru, bisa nk'aho amaze koza amenyo. Afite akadodo mu ntoki, kameze nk'urudeyi arimo gukoza ku menyo, nawe rero mu gihe umaze koza amenyo, ushobora gufata akagozi ukagakoza mu menyo, mu rwego rwo kugira ngo ukuremo imyanda yasigayemo.

Umuntu uryamye wasamye n'undi umuhagaze iruhande umeze nk'umuganga, wambaye ga mu ntoki z'ubururu ndetse n'itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, akaba afite utwuma mu ntoki ari gukoza mu menyo, bisa naho ari kumuvura amenyo.

Umuganga wambaye utuntu ku madarubindi tumufasha kureba mu kanwa k'umurwayi, akaba arimo gukura umurwayi amenyo, bityo akamufasha kongera kumererwa neza. Iyo umuntu arwaye amenyo biragorana cyane ko yabasha kurya.

Abantu bari mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi babiri akaba ari abaganga undi w'umwana akaba ari umurwayi, umwana akaba yasamye abaganga bari kumureba mu kanwa, bisa naho barimo kumukura amenyo.

Abantu bari mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi bw'amenyo, bakaba bafite igishushanyo mu ntoki barimo kwigiraho uburyo bakura amenyo, hirya yaho hakaba hari utundi dukoresho twifashishwa.

Umuntu urimo guseka akaba ari umukobwa afite amenyo meza cyane y'umweru afite n'ishinya y'umutuku, afite iminwa minini akaba afite n'uruhu rw'imibiri yombi, yashyize intoki ebyiri imbere y'umunwa.

Umuntu ufite agakoresho mu ntoki bambika amenyo mugihe bashaka ko amenyo agirirwa isuku, amenyo akaba ari ingenzi cyane kugirango ngo yitabweho kubera ko iyo amenyo yagize ikibazo umuntu ntabwo ashobora kurya.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi hakaba harimo n'intebe umuganga yicaraho mu gihe arimo gutanga izo serivisi, hejuru hari televiziyo ya fulati umuganga areba mu gihe yicaye ategereje abarwayi.

Umwana wasamye hakaba hari umuganga wambaye ga z'ubururu mu ntoki, urimo kumukora mu kanwa mu rwego rwo kugira ngo arebe uburyo amenyo ye ameze. Uyu mwana akaba ari inzobe, afite amaso y'umweru arimo imboni z'umukara, yicaye ku ntebe y'umutuku.

Abantu bari mu ishuri bigaragara ko baje gusura ishuri mu rwego rwo kugira ngo bamenye uko imyigire ihagaze, imbere yabo hari umwarimu wambaye itaburiya y'umweru ufashe umwana ku rutugu akaba arimo kumwigisha uburyo boza amenyo.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, akaba arimo kwireba mu ndorerwamo, arimo guseka, ikindi afite akadodo mu ntoki kameze nk'urudeyi, arimo kujya agakoza mu menyo mu rwego rwo kugira ngo akuremo imyanda yasigayemo.

Inzu irimo ibikoresho bigezweho bitandukanye, ikaba irimo intebe eshatu za kizungu, iburyo n'ibumoso hakaba hari utubati twifashishwa mu kubika ibikoresho bitandukanye, hejuru hari idara ryiza cyane.

Udukoresho dutandukanye twifashishwa kwa muganga mu gihe barimo gutanga serivise zijyanye n'ubuvuzi. Akaba ari utwuma twinshi cyane ku buryo n'iyo haba hari abarwayi benshi cyane, dushobora kwifashishwa mu gihe bari kubavura kandi bose bagahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Abantu batatu bigaragara ko bishimye, bose bakaba ari abagore. Hagati muri bo harimo umugore wambaye umupira w'umuhondo akaba afite telefone mu ntoki, bisa nk'aho barimo kwifotora kugira ngo birebe ukuntu bameze.

Abantu babiri umwe akaba umugabo undi ari umugore. Umugabo yambaye agapira k'ubururu afite n'akantu mu ntoki, bifashisha barimo gukora imyitozo ngororamubiri. Naho umugore yambaye itaburiya y'umweru n'kantu mu ijosi kifashishwa mu gihe barimo gupima umutima kugira ngo bamenye uko utera. Akaba ari umuganga.

Umugabo wambaye ishati ijya gusa na shokora yicaye kumeza yifashe ku gahanga imbere ye kumeza hari amakaye arimo gusoma bigaragara ko hari ikintu arimo gusoma atarimo gusobanukirwa neza imbere yamakaye hari agakoresho kifashishwa mu kwemeza ibintu muri mudasobwa.

Umubyeyi wambaye agapira ka buresiyeri ndetse n'undi mupira umeze nk'ikote, afite igikombe mu ntoki cy'ikirahure, mu zindi ntoki afitemo ibinini bisa n'aho agiye kunywa imiti ikindi yambaye n'amaherena.

Abantu bicaye bishimye bigaragara ko ari umuryango umwe, higanjemo igitsina gore abagabo barimo akaba ari abagabo babiri kandi bakuze, bakaba bari mu nyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho.

Umukecuru wicaye akaba afite ikirahuri mu ntoki cyamazi bisa n'aho arimo kunywa ibinini, yambaye agapira kanjya gusa n'ubururu bwijimye afite umusatsi urimo imvi , akaba yambaye n'amataratara.

Abantu babiri umwe n'umugabo undi n'umugore, umugabo yambaye agapira k'umweru yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umukandara, akaba afite ibyuma mu ntoki arimo kugenderaho, umukobwa ni umuganga yambaye impuzankano z'abaganga akaba arimo kumufasha gutambuka.

Umumama usa n'ukuze cyane wambaye agaseri k'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara yicaye kuri tapi ijya gusa umukara yarambuye ukuguru kumwe ukundi yakwicariye bisa naho ari muri siporo inyuma ye hari icyatsi kimeze nk'umukindo naho hirya mu nguni hari itara.

Abantu babiri umwe ni umugabo bigaragara ko akuze naho undi ni umukobwa usa nk'aho akiri muto, umugabo akaba afite ubwanwa bwinshi bw'umweru burimo imvi n'aho umukobwa akaba ari umuganga, afite agacupa mu ntoki akaba ari kumusukira imiti mu ntoki cyangwa se ibinini kugira ngo anywe.

Abantu babiri, umwe akaba ari umugabo undi ari umugore. Umugabo ni umwirabura, ariko umugore ni umuzungu. Umugabo yambaye ishati ijya gusa n'ubururu bwijimye, ariko umugore yambaye agakote kajya gusa n'ivu.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu ntebe z'imifariso, bakaba ari abasaza n'abakecuru, bamwe muri bo bafite inkoni mu ntoki, kandi hakaba harimo n'abambaye imikenyero, hakaba hari n'abandi bambaye ingofero mu mutwe zambarwa n'Abasilamu.

Abantu babiri umwe akaba ari umuganga naho undi ari umurwayi, umurwayi akaba ameze nk'umusaza kuko afite imvi nyinshi mu bwanwa, naho umuganga akaba ari umukobwa bigaragara ko akiri mutoya, umuganga akaba arimo gupima umusaza umuvuduko w'amaraso.

Abantu babiri bahagaze bafatanye ku rutugu bisa naho bari kwifotoza, umwe ni umugabo bigaragara ko akuze naho undi ni umukobwa usa nkaho akiri muto, uwo mukobwa akaba yambaye amataratara.

Umuntu wicaye urimo gukina umukino uzwi nka damu, damu akaba ari umukino ukunda gukinwa n'abantu bakuze cyane mu rwego rwo kugirango birinde kurambirwa. Damu iriho utuntu twinshi twifashishwa mu gukina uyu mukino bagenda batuzunguza ushyira mu kantu kamwe ndetse n'akandi.

Abantu batatu umwe ni umusore, undi n'umukobwa hagati muri bo hakaba harimo umugabo umeze nk'umusaza. Bakaba barimo kumwicaza bishoboka ko arwaye. Bakaba bagiye kumwicaza ku buriri buriho amashuka y'umweru.

Abantu babiri umwe akaba ari umusaza waje kwivuza, undi akaba ari umuganga, umuganga akaba yambaye mu matwi agakoresho kifashishwa mu gupima umutima kugira ngo umenye uko umutima uhagaze, hirya yabo hari igiti bigaragara ko ari mu busitani.

Abantu babiri bicaye ku meza, umwe akaba ari umusaza undi ari umukecuru. Bose bafite imvi zabaye uruyenzi. Umukecuru akaba afite agapapuro mu ntoki, arimo kwereka umusaza uburyo agomba kunywa imiti. Naho umusaza afite agacupa mu ntoki arimo kunywa mo ibinini.

Umumama wambaye ishati y'umuhondo, ufite imisatsi myiza miremire, wambaye amadarubindi, afite agacupa mu ntoki, arimo gukuramo ibinini bisa naho arwaye akaba agiye kubinywa.

Abantu bahagaze mu isambu bigaragara ko ari abahinzi, abenshi ni abamama bambaye imyenda igaragaza ko ari abantu baturuka mu cyaro, bakaba bahagaze mu murima uhinzemo ibigori.

Umukecuru uhagaze, akaba yambaye imikenyero, afite n'insakazamajwi mu ntoki, ifite amabara y'umutuku n'akarongo kazengurutse k'umuhondo. afite imvi mu mutwe, zabaye uruyenzi, inyuma ye, hakaba hari ikibuga cy'umupira giparitsemo imodoka.

Abantu babiri umwe ni umugabo undi n'umugore bose bambaye udupira tw'umutuku ariko umugore yambaye isaaha ku kuboko naho umugabo yambaye ariko nanone umugabo yambaye amarinete ariko umugore we ntayo yambaye.

Umuntu uri ku meza bigaragara ko arimo gufata amafunguro, akaba afite isahani mu ntoki irimo amafunguro y'ubwoko butandukanye ndetse n'ikiyiko mu ntoki, bisa nk'aho arimo kuvanga ibiryo. Akaba yambaye ishati irimo amabara agiye atandukanye.

Abagabo babiri barimo gutambuka, barimo guseka bigaragara ko bishimye, bose bambaye amashati y'umweru, kandi bafite amacupa y'amazi mu ntoki zabo, hirya yabo hari agasanduku gashyirwamo imyanda.

Abantu babiri bari ku meza, bigaragara ko barimo gufata amafunguro, umwe ni umusaza undi ni umukecuru, imbere yabo hari ibyo kurya bitandukanye byiganjemo imboga, hakaba hari n'igikombe bisa naho ari ikirahure cy'amazi.

Abantu babiri barimo gukora siporo bigaragara ko bishimye umwe ni umugabo undi ni umugore, umugabo ni umwirabura ariko umugore ni umuzungu, bose bambaye amasaha ku maboko kandi bambaye n'impeta.

Umumama urimo guseka ufite utuntu mu ntoki bisa naho arimo gukora siporo, afite umusatsi urimo imvi, akaba yambaye umupira w'imbeho ufite ingofero mo imbere akaba yambariyemo agasengeri k'umweru.

Abantu babiri barimo kuganira umwe n'umusaza undi ni umusore, bafite igitabo barimo gusoma bisa naho cyabashimishije cyane imbere y'umusaza hari igikombe cy'umweru n'imbere y'umusore hari igikombe cy'umweru.

Abantu batandukanye barimo guseka bigaragara ko ari umuryango umwe hakaba harimo umusaza mukuru cyane bisa n'aho ari we ubabyara bose kuko afite imvi ahantu hose naho abandi bo bisa n'aho bakiri bato.

Abantu babiri bicaye umwe akaba ari umuganga undi ari umurwayi, umuganga akaba ari umugore afite mu ijosi akuma kifashishwa mu gihe barimo gupima umurwayi umutima kugira ngo bamenye uko umutima utera, muganga yambaye agapfukamunwa ndetse n'amataratara, umurwayi ni umukecuru wambaye ikanzu idoze mu bitenge.

Ikirango cyamamaza kikaba kiri mu mabara ya move, kiriho amagambo yanditse mu mabara y'umweru, hasi ku ruhande hariho ifoto y'umuntu wambaye ishati y'umweru.

Abantu batandukanye bari ahantu mu kibuga, bamwe bakaba ari abaganga naho abandi bakaba ari abantu bafasha abaganga kwita ku barwayi, hakaba hari umuntu uryamye hasi barimo kuvura.

Umugabo usa n'ukuze cyane, wambaye ingofero y'umukara ndetse n'amadarubindi, afite urupapuro rwanditseho amagambo ari mu mabara y'umutuku, wagira ni umukerarugendo.

Abantu bari mu nzu mberabyombi bamwe baricaye ariko imbere yabo hari abandi barimo kubyina, abarimo kubyina akaba ari abagabo ndetse n'abagore. Abagore bamanitse amaboko barimo gushayaya naho abagabo barapfukamye.

Abantu bicaye higanjemo igitsina gore, bigaragara ko baje mu ihuriro ry'abakobwa, bambaye udupira tw'umweru n'aho abandi bambaye utw'umukara.

Abantu bicaye mu cyumba bisa naho bari mu kiganiro, imbere yabo hari abagabo babiri bambaye amakoti y’imikara ndetse n'amashati y'imyeru hamwe na za karuvati, bakaba barimo gutanga ikiganiro.

Abantu babiri umwe akaba ari umugabo undi ari umugore bafite icyapa mu ntoki, bigaragara ko hari ikintu barimo kwamamaza, iruhande rwabo hari intebe yegamirwa y'umukara, inyuma hakaba hari ibiti biriho amadarapo.

Abantu bari mu cyumba ahantu, bakaba baje gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi, harimo abaganga bambaye ibintu ku maso, mu rwego rwo kugira ngo birinde icyorezo, hakaba kandi hari abarwayi bambaye udupfukamunwa baje kwivuza.

Abantu bateraniye mu cyumba ahantu hamwe mu rwego rwo kugira ngo bahabwe serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hari abamama babiri baje gusaba serivisi, hakaba hari n'abaganga barimo gutanga serivisi.

Ikirango kiriho abantu batandukanye hakaba hariho abagore ndetse n'abagabo, hari umugore uteruye umwana uwo mugore akaba yipfutse igitambaro.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama imbere yabo hakaba hicaye abantu batandukanye bisa n'aho ari abayobozi, inyuma y'abo bayobozi hari ikirango kigaragaza igikorwa nyamukuru cyabateranyirije aho ngaho hakaba hari n'umwaka icyo gikorwa cyabereyemo.

Urupapuro rusa umweru, ruririho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, bigaragara ko ari icyangombwa gitangwa n'inzego z'ubuzima ku isi. Hakaba hasi hariho ifoto y'umugabo urimo guseka bisa naho ari umuyobozi w'iki kigo cy'ubuzima.

Ikirango kiri mumabara y'ubururu n'umweru kikaba kiriho ifoto yumwana wambaye agapira k'icyatsi ndetse nifoto yumugabo wambaye ishati yu'mweru isa naho ari umuganga.

Abantu bahagaze bambaye imyenda isa bisa naho ari abaganga imyenda bambaye akaba ari imyenda y'umweru ndetse bakaba bambaye n'udupfukamunwa imyenda ibafubitse ahantu hose bigaragara ko hari icyorezo runaka barimo kwirinda .

Ikirango cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'Urwanda gishinzwe ubuzima, kikaba kiriho umuntu ushushanyije wicaye ndetse n'undi uhagaze bisa naho ari umuganga naho undi ari umurwayi, hasi hariho ikirangantego cy'Urwanda.

Abaganga bari mu cyumba ahantu hamwe bigaragara ko barimo gutanga serivise zijyanye n'ubuvuzi. Bakaba bambaye imyenda bakunda kwambara mu gihe bari mu kazi. Hirya yabo hari za televiziyo ziri ku gikuta zibafasha kubona imiterere y'umubiri w'umurwayi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro ya kake yicaye ku ntebe, hirya ye hari abana batatu bisa naho ari papa waba bana, iruhande rw'abo bana hakaba hari umubyeyi w'umumama.

Utumenyetso tw'utuziga tukaba turi mu mabara atandukanye, hari tubiri tw'ubururu, hakaba hari kamwe k'icyatsi, kamwe k'umuhondo, kamwe kajya gusa n'ivu n'utundi tubiri tujya gusa n'umutuku ariko tutari umutuku.

Abantu bicaye higanjemo igitsina gore bigaragara ko bamaze gufata impamyabumenyi zijyanye n'ikintu runaka, imbere yabo hari ameza ateretseho akantu kameze nka telefone.

Umuntu uri mucyumba cy'inama akaba ahagaze imbere y'agakoresho abantu bahagararaho mugihe barimo gutanga ikiganiro, hirya ye hari televiziyo nini ya rutura irimo kugaragaza amashusho ye.

Abantu batandukanye bari mu cyumba, bamwe bakaba bambaye imipira isa bisa naho hari ikigo runaka bakorera bakaba baje kwamamaza ibikorwa byacyo, bamwe muri bo bafite ibikapu mu ntoki by'umweru.

Abantu batatu, babiri akaba ari abaganga, naho umwe ari umurwayi. Umuganga umwe yambaye agashati k'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu, ikindi akaba ari gutera urushinge umurwayi ku rutugu, undi muganga yambaye agashati karimo utubara, umurwayi yambaye nawe agashati k'umweru n'amadarubindi ku rutugu.

Uducupa dutandukanye twifashishwa kwa muganga mu gihe barimo gupima abarwayi, abaganga bakaba bafata ibipimo abarwayi, maze bakabishyira muri utu ducupa.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi cyane bisa n'aho ari kwa muganga, hakaba harimo ibitanda bifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, kuri buri gitanda hashasheho ishuka ijya gusa icyatsi.

Inyubako irimo utubati turimo imiti myinshi y'amoko atandukanye ikaba ari imiti ipanze ku buryo bworohera umuganga kugira ngo mu gihe akeneye umuti runaka bimworohere kumenya aho uherereye.

Inyubako yubatse neza cyane mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, iyi nyubako isakaje amabati ajya gusa umutuku ariko nanone atari umutuku, akaba ari inyubako iteye amarangi ajya gusa umuhondo.

Abantu batandukanye bari imbere y'inyubako ibyariramo ababyeyi bisa naho barimo kuganiriza abantu ku bijyanye na serivisi batanga mu gihe bamaze kubyaza ababyeyi, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, cyane cyane mu gihe barimo gupima umurwayi kugira ngo bamenye uko umubiri we uhagaze, iruhande ku gikuta hakaba hariho televiziyo nini ya rutura ifasha muganga kubona uko umubiri w'umurwayi uhagaze.

Inyubako nziza cyane y'igorofa, akaba ari inyubako yubatse mu buryo bugezweho, imbere yayo hari imodoka ihaparitse hakaba hari n'abantu bahahagaze.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bakaba bari imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye bisa naho baje kwaka serivisi zijyanye nubuvuzi hino hari imodoka iparitse y'umukara.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'akantu mu ntoki kagaragaza ko ari umuganga, akaba yambaye na ga mu ntoki z'umweru, iruhande rwe hari umugabo wambaye isengeri wakuyemo ishati ku rutugu, bisa naho umuganga arimo kumutera urushinge.

Inyubako yubatse mu buryo bwiza bugezweho, imbere yayo hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru bisa naho ari umuyobozi waho, hejuru hari ikirere cyiza cy'ubururu kirimo ibicu by'umweru kitari buze gutanga imvura.

Umuganga w'umukobwa wambaye itabura y'umweru ndetse n'agapfukawa k'umukara hamwe n'amadarubindi y'umweru, yicaye kuri mudasobwa arimo kureba ibipimo yafashe abarwayi, hirya ye hari agakoresho gaterekwamo imiti.

Abantu bari mu nyubako imeze nka sale harimo umuntu uhagaze wambaye agapiraku n'ipantaro y'umukara hakaba hari n'undi wicaye ku ntebe akaba yambaye ipantaro ijya gusa nk'umuhondo n'agapira kajya gusa n'ubururu imbere hakaba hari kotwari ihagazemo abantu babiri ndetse inyuma mu nguni hari na televiziyo izwi nka furati.

Igikoresho cyifashishwa mu gihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, iruhande rwacyo hari agatebe k'umukara umurwayi yicaraho mu gihe aje gushaka serivisi, inyuma yako hari igikuta kiriho igishushanyo kiriho amabara atandukanye, hakurya yawo kandi harikabati kabikwamo ibikoresho.

Umuntu wambaye imyenda y'ubwirinzi y'umweru bisa n'aho hari imiti arimo gutera kugira ngo arwanye icyorezo runaka. Iruhande rwe hari ibikoresho bimeze nka robine biteretseho indobo bavomeramo amazi.

Ahantu hasa neza cyane, hari ubusitani bwitaweho cyane, hakaba hari utuyira tugiye tunyuranyuranamo, ubona ko bisa neza cyane, hejuru hari ikirere gisa ubururu kirimo n'ibicu by'umweru bigaragara ko nta mvura iri buzeze kugwa.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa kwa muganga mu gihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, harimo bimwe bimeze nka mudasobwa biteretse ku meza, hakaba hari n'ibindi bimeze nka dorone.

Ahantu hubatse neza kandi hasa neza bigaragara ko hashobora kuba hakorerwa imyitozo ngororamubiri, hasakaje ibirahure mu rwego rwo kugira ngo abantu bari kuhakorera bazajye baba barimo kubona neza, hasi hari itapi y'icyatsi igiye iciyemo uturongo tw'umweru.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati ajya gusa n'ubururu, ifite imireko, hasi iruhande rw'aho binjirira hari urubaraza, inyuma yiyo nyubako hari ikigega cy'umukara ndetse n'ikindi kiri hepfo kinini cy'umukara, hirya yabyo hari indi nyubako nini isakaje amabati y'umutuku.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe barimo gupima umurwayi kugira ngo bamenye aho afite ikibazo n'ikibazo afite uko giteye, hari ameza ateretseho mudasobwa umuganga yicaraho mu gihe arimo gutanga serivise.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya rwerere ikaba ari inyubako yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari indabo nziza cyane hakaba hari n'umuntu urimo gutambuka.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako iteye amarange meza y'umweru, isakaje amabati y'ubururu. Akaba ari inyubako ibyariramo ababyeyi cyangwa se inzu y'ababyeyi, hirya yayo hakaba hari ibiti birebire, hejuru hakaba hari ikirere gisa neza cyiganjemo ibicu by'umweru.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi bitandukanye bisa naho ari kwa muganga akaba ari icyumba cyubatse mu buryo bugezweho kuko abantu bamwe baryama ku ruhande rumwe abandi bakaryama ku rundi ruhande, akaba ari icyumba kigiye gifite amatara hejuru y'umweru ndetse n'inzitiramibu zifashishwa mu kwirinda malariya.

Ahantu hari ubusitani bumeze neza ndetse n'inyubako zubatse neza, hakaba hari umucyo, hejuru hari ikirere kimeze neza kitari buze gutanga imvura, imbere y'izo nyubako hari abantu bahagaze bisa naho hari serivisi baje gushaka.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga mu gihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, bikaba biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, ikindi biteretse ahantu hameze nk'ameza mu rwego rwo kugira ngo bibungabungirwe umutekano.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu gihe barimo gutanga serivise zijyanye n'ubuvuzi. Harimo ibitanda abarwayi baryamaho, hakaba harimo n'amarido akingiriza buri gitanda.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, akaba ari inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa, imbere yayo hari uruzitiro rwa senyengi rugiye ruriho utwapa tugaragaza niba umuntu yemerewe kuhaparika imodoka ye cyangwa se atabyemerewe.

Umugore uhetse umwana akaba ahagaze imbere y'amarembo y'ivuriro, iri vuriro rikaba ririmo inyubako nyinshi zitandukanye zitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Abantu bambaye amashati y’umweru asa ndetse bafite udutebo mu ntoki dusa, bakaba bari kugana ahantu hari inyubako bisa n'aho ari ku kibuga cy'indege.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byifashishwa mu gihe barimo batanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, iruhande rw'icyuma cyifashishwa mu gupima umurwayi kiriho ikintu kimeze nka tereviziyo, hari igitanda umurwayi aryamaho mu gihe bari kumupima.

Abantu babiri umwe akaba ari umurwayi naho undi ari umuganga, umuganga yambaye tabuburariya y'umweru n'agapfukamunwa, ikindi akaba afite akuma mu ijosi bifashisha mu gihe barimo gupima umutima kugira ngo bamenye ko umutima umeze, umurwayi bakaba barimo kumupima umuvuduko w'amaraso ku kuboko.

Abamama bane bahagaze bambaye impuzankano yo kwa muganga bigaragara ko ari abaganga, bahagaze imbere y'inyubako ibyariramo ababyeyi bisa nk'aho ari abaforomo babyaza abo babyeyi.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kwa muganga mu gihe barimo batanga serivisi zitandukanye, hakaba harimo umuganga ukoresha ibyo byuma mu gihe hari umurwayi waje gusaba serivisi.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye, akaba ari ibikoresho bimeze nk'indege zitagira abapilote, hirya ku gikuta cy'inzu hari isaha imanitse, hejuru hari kamera.

Inyubako icururizwamo imiti, ikaba ari inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa, iruhande rwayo hari imodoka iparitse yo mu bwoko bw'ivatiri, iyo nyubako ikaba igiye iriho ibirahure.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi cyane byifashishwa mu buvuzi kwa muganga, buri cyuma kikaba kigiye gifite televiziyo imbere yacyo, yifashishwa mu gihe barimo gupima umurwayi, bityo bikorohera umuganga kubona aho umurwayi afite ikibazo, byose biri mu cyumba kimwe.

Ahantu hari amazu meza yubatse neza, hari ubusitani bumeze neza ubona ko bwitabwaho cyane, hari abantu bamwe na bamwe bigaragara ko baje kwaka serivisi, aha hantu hakaba hasa nko kwa muganga, hari ndetse n'ibiti bimwe na bimwe bimeze nk'imikindo.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi zijyanye no gucisha abantu mu cyuma, hakaba harimo icyuma gikomeye cyane cyifashishwa mu gupima umurwayi bashaka kureba mu mutwe bityo bakamenya imitsi y'ubwonko yangiritse.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Gishweru, akaba ari inyubako ihagazweho n'abantu batandukanye, bigaragara ko bari baje gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hari n'umuganga uhagaze wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe abarwayi bicaraho mu gihe bategereje serivisi zijyanye n'ubuvuzi, ku gikuta hashushanyije igishushanyo kigaragaza ijisho mu rwego rwo kugirango bereke abarwayi ko ariho hatangirwa serivisi zijyanye no kuvura amaso.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi ndetse n'abaganga barimo gutanga serivisi zitandukanye, akaba ari icyumba gisukuye kimeze neza ubona ko ari ahantu hatekanye, kikaba giteye amarangi meza cyane hasi hakaba hari tapi.

Abantu batandukanye basutamye imbere y'inyubako, akaba ari inyubako ibyariramo ababyeyi, iyo nyubako ikaba yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu gihe barimo gupima umurwayi, bashaka kumenya uko inyama ze z'imbere zimeze, hejuru hari ibikoresho bimeze nk'amatara, bitorosha ku murwayi maze bikoroha kumenya uko umubiri uhagaze.

Umuganga w'umuforomo, bisa naho amaze kubyaza umubyeyi kuko imbere ye afite umwana w'uruhinja, arishimye bisa naho yabyaje neza; yambaye akagofero k'umweru ndetse n'impuzankano yambarwa n'abaganga.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gihe abaganga barimo gutanga serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi. Iruhande rwa buri gitanda hakaba har’igikoresho kimeze nka televiziyo, umuganga areberamo uko umubiri w'umurwayi uhagaze.

Ibikoresho bitandukanye biri mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi. Akaba ari ibikoresho byifashishwa igihe barimo gupima abarwayi.

Abantu bari mu cyumba cy'ivuriro bakaba ari abaganga, ni abaganga babiri b'abagabo bose bambaye amataburiya y'umweru, imbere yabo hari icyuma cyabugenewe cyifashishwa mu kubika amakuru y'abarwayi bavuwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga benshi batandukanye, bambaye amataburiya y'umweru, bamwe bakaba bicaye abandi bahagaze, iruhande rwabo hari utu etajeri duterekwamo imiti.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho akaba ari inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n’ubuvuzi, imbere yayo hari umunyonzi uhetse umugenzi w'umukobwa.

Abantu benshi batandukanye, bakaba bahagaze imbere y'inyubako, bisa naho ari kwa muganga. Hakaba higanjemo igitsina gore, kuri iyo nyubako hari amagambo ahanditse, agaragaza ko ari ahantu hatangirwa serivise zijyanye n'ubuvuzi.

Umugabo wambaye ikote ry'ikositimu bisa nk'aho ari umuganga, imbere ye kumeza hari mudasobwa, hirya naho hari indi mudasobwa iteretse ku meza, akaba arimo kurebamo igishushanyo kigaragaza uko umurwayi yapimye ahagaze.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru akaba yambaye n'agakoresho mu ijosi kifashishwa mu gupima umutima mu rwego rwo kumenya ukuntu umutima w'umuntu urimo gutera, yambaye amadarubindi arimo guseka bisa naho yishimye, mu ntoki afite telefone izwi nka tabureti, hirya ye hari umwana wambaye ikanzu y'ubururu.

Inzu irimo igikoresho cyifashishwa kwa muganga bavura abarwayi, akaba ari igikoresho gikozwe mu buryo bwa gihanga, kuko ukurikije ukuntu gikozwe, ukibonye watangara. Kikaba kiri mu nzu isize amarangi y'umweru.

Icyapa cyamamaza akaba ari icyapa kigaragaza serivisi zitangirwa aha hantu, imbere yacyo hari inyubako nziza cyane bigaragara ko ari ibitaro, imbere y'izo nyubako haparitse imodoka zitandukanye ndetse n'abantu barimo kuza kuhasaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Abantu babiri bicaye, bisa naho umwe ari umuganga naho undi akaba ari umurwayi, inyuma yabo hari ibicupa bibiri byometse ku gikuta, byifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro bityo bakazimya uwo muriro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu gupima abarwayi, hakaba harimo igitanda umurwayi aryamaho, maze umuganga akamutoroshaho ibyuma byabugenewe maze akamenya uko umubiri uhagaze, akaba ari icyumba giteye amarangi y'umweru ariko hino hateye irangi rya move.

Abantu babiri bicaye bigaragara ko barimo kuganira, umwe ni umukecuru n'aho undi ni umusore, umusore akaba yambaye impuzankano yo kwa muganga, akaba afite akantu mu ijosi gapima umutima bigaragara ko ari umuganga, umukecuru akaba yambaye imyenda idoze mu bitenge.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe barimo gupima umurwayi, kugira ngo bamenye aho afite ikibazo, akaba ari ibikoresho bifite amatoroshi, naho hasi umurwayi hakaba hari ahantu aryama bityo bakamusuzuma.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibyuma byifashishwa mu gihe barimo gupima umurwayi, hagati yabyo hakaba hari igitanda umurwayi aryamaho bityo bikorohera umuganga gupima uwo murwayi.

Icyapa cy'umweru kiriho ikirangantego cy'u Rwanda cyanditseho amagambo agaragaza ko ari icyapa kiri mu mujyi wa Kigali, imbere yacyo hari ikona rigaragaza ko hatemerewe kunyurwa n'ubwo ari umuhanda w'igitaka.

Umuntu wicaye imbere yigiti akaba yambaye ishati ijya gusa umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari igiti gifite amashami menshi bigaragara ko ari igiti gikuze cyane.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gupima umurwayi, kugirango bamenye uko umubiri we uhagaze bitewe n'aho arimo kubabara, akaba ari ibyuma byifashishwa mu gihe umurwayi arimo kubabara cyane cyane inyama zo mu nda cyangwa se ari kubabara mu magufwa.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, hakaba harimo umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba arimo gutunga urutoki ku kirangantego kiri ku gikuta, bisa naho ari kubibutsa intego nyamukuru y'umunsi.

Inzu itangirwamo serivisi zijyanye no gucuruza imiti, akaba ari inyubako yubatse mu buryo butangaje, kuko hejuru yayo hari ikintu gisakaye imbere ku buryo utapfa kubona igisenge mo imbere hakaba harimo abantu baje kwaka serivisi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igikoresho cyifashishwa mu gupima umurwayi urwaye inyama zo mu nda, hakaba harimo n'igitanda umurwayi aryamaho bityo bikorohera umuganga kumupima, icyo cyuma kikaba gifite igikoresho kimeze nka televiziyo umuganga areberamo, hirya yaho hakaba hari amarido.

Ivuriro ry'i Kabgayi, rikaba riri ahantu heza cyane hatuje kandi hateye ibiti bifasha abantu baza kuhasaba serivisi, kubona umuyaga mwiza ndetse n'amahumbezi.

Inzu irimo ababyeyi batandukanye, ndetse n'abana hakaba harimo umuganga urimo gupima abana ibiro, mu rwego rwo kugira ngo bamenye ibiro umwana afite maze bahite bamenya imikurire y'umwana.

Icyumba cyiza kirimo ibikoresho bitandukanye bigaragara ko ari icyumba gitangirwamo serivisi zitandukanye, hakaba harimo ahantu bakirira ababagana n'ahandi ababagana bicara harimo intebe z'ubururu.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga akaba ari icyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, ku gikuta hari umutako uhamanitse ushushanyijeho imbuto zitandukanye.

Inzu imeze nka sare ikaba irimo utubati twiza tugiye turiho utwapa tw'umweru ndetse n'umutuku, bigaragara ko habikwa ibintu byiyubashye, akaba ari inzu isize amarangi y'umweru hejuru hakaba hari n'amatara arimo kwaka.

Inzu irimo ibikoresho byinshi bitandukanye akaba ari ibikoresho byifashishwa mu gihe abantu barimo gukora imyitozo ngororamubiri, hejuru hakaba harimo itara rimeze nk'iryimbingo, imbere y'iyo nyubako hakaba hari umucaca w'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu gihe barimo kongerera umwuka abarwayi, ibi bikoresho bikaba bizwi nka bomboni ni ibikoresho bibiri bimeze nk'ibicupa biba birimo uwo mwuka, babicomeka ku mashanyarazi mu rwego rwo kugira ngo babone uko bohereza umwuka umurwayi.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho, ikaba isakaje amabati ameze nk'amategura, hari abantu bari kuhagana bisa n'aho hari serivisi baje kuhasaba, iruhande rwayo hari abantu bari gutambuka hakaba hari n'idarapo ry'Urwanda.

Icyumba kirimo ibintu bitandukanye hakaba harimo intebe ye abantu bakoreramo bicaraho imbere ya buri ntebe hakaba hari ameza ndetse na mudasobwa. Imbere yaho hakaba hari utuntu tumanitseho amarinete bacuruza bisa naho hatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'amaso.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako bakaba batonze umurongo bisa naho hari serivisi baje gusaba, imbere yabo hari abantu babiri bicaye ku meza bisa naho ari abajyanama bagiye kubagira inama, imbere y'ameza yicayeho abo bantu hari umuntu wicaye ku kagare kagenderwaho n'abantu bafite ubumuga bw'ingingo cyane cyane amaguru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe umuganga arimo gupima umurwayi runaka kugira amenye uburwayi afite, hakaba harimo kandi intebe abarwayi bicaraho ndetse n'intebe umuganga yicaraho mu gihe arimo kwandika ibisubizo yabonye mu gihe amaze gupima umurwayi, imbere ku meza hari mudasobwa.

Inyubako y'igorofa yubatse mu buryo bugezweho ikaba igeretse kabiri imbere yayo hari abantu bambaye impuzankano y'ubururu, bisa naho ari ikigo cy'amashuri imbere hakaba hari uruzitiro ruriho ikirango cy'icyo kigo, imbere y'ikigo hakaba hari imodoka iparitse.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye biryamyeho abarwayi, bikaba bisa n'aho ari abarwayi barembye cyane kuko buri murwayi wese yambaye ibyuma bimwongerera umwuka, iruhande rwa buri gitanda hagiye hari akabati buri murwayi abikamo ibikoresho.

Inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, akaba ari inyubako icururizwamo imiti, imbere yayo hari abantu baje gusaba serivisi.

Inyubako y'igorofa yubatse mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako igeretse inshuro nyinshi, ikaba yubakishije ibirahure, hejuru hakaba hari ikirere cy'ubururu.

Inyubako y'igorofa yubatse mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako igeretse kabiri, iyi nyubako ni ikigo nderabuzima gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, imbere yacyo hari ibiti bimeze nk'indabo, hakaba hari n'abantu benshi batandukanye, baje kuhasaba serivise.

Umuganga urimo gutambuka mu cyumba cy'abarwayi, akaba ari icyumba kirimo ibitanda byinshi cyane bashyiraho abarwayi, muri icyo cyumba harimo ibitambaro by'ubururu bigenda bikingiriza abarwayi mu gihe barimo kubaha serivisi.

Abantu babiri bigaragara ko umwe amaze kwibaruka, naho undi ari umuganga, umuganga afite mu ijosi akuma kifashishwa mu gihe barimo gupima abarwayi bashaka kumenya uko umutima utera.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga, mu gihe barimo batanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, harimo intebe umurwayi yicaraho, iruhande hakaba hari agasanduku kabikwamo ibikoresho.

Ahantu hari inyubako yubatse neza bisa naho ari mu buyobozi hari umusekirite bisa naho ariwe ucunga umutekano waho hakurya y'aho hari umusozi uriho ishyamba bigaragara ko nta bantu bawutuyeho.

Icyumba kinini kirimo ibitanda bitandukanye bigaragara ko ari kwa muganga, hakaba harimo n'ibikoresho byifashishwa mu gupima abarwayi kuri buri gitanda, hejuru hari amatara amurika mu cyumba mu rwego rwo kugirango hataba umwijima maze abarwayi bakabura uko babona serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako yubatse mu buryo bugeretse, akaba ari inyubako yubatse mu buryo bwa kera, imbere yayo hari amadapo, hakaba hari n'abantu benshi baje gusaba serivisi. Hejuru hari amagambo agaragaza ibikorwa bihakorerwa.

Icyumba kirimo ibitanda bisa naho ari mu ivuriro, hakaba harimo imiryango myinshi, akaba ari icyumba giteyemo amarange y'umweru, hejuru hari amatara yaka umweru.

Abantu bari mu cyumba cyo kwa muganga bisa naho baje kwaka serivise zijyanye n'ubuvuzi, hari umuganga wambaye impuzankano y'ubururu ufite ikintu mu ntoki kimeze nk'itoroshi, akaba ari gucana ku mwana mu rwego kugira ngo amenye uko umubiri we uhagaze.

Ikirango cyamamaza kiriho amashusho agaragaza abantu barimo gukora siporo mu buryo butandukanye, harimo uwazamuye akaguru harimo uwazamuye akaguru, ndetse arambura n'amaboko, hakaba harimo ufashe ku ntebe y'imvunwa wazamuye akaguru, n'undi uhagaze bisa naho arimo gutambuka, iki kirango kikaba kiri mu mabara y'umuhondo.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gihe barimo gupima umurwayi wagize ikibazo imbere mu mubiri, akaba ari igikoresho umurwayi yicaraho bakamukozaho ibyuma impande n'impande bityo bakamenya uko umubiri we uhagaze.

Igikapu kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, akaba ari igikapu cy'umutuku gifite imifuka impande n'impande, muri iki gikapu harimo imikasi yifashishwa mu gukata ibintu bitandukanye, hakaba harimo bande bazirika umuntu igihe yavunitse, hakaba harimo n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye urugero nk'isaha n'ibindi.

Udusanduku tubiri tw'umutuku, turiho ikimenyetso cyo guteranya, bigaragaza ko ari udusanduku twifashishwa mu nzego z'ubuzima, iruhande rwatwo hakaba hari abantu bicaye bambaye amakoboyi.

Umugabo wambaye agapira kajya gusa n'ivu, akaba yambaye ekuteri z'umweru, afite agacupa k'amazi mu ntoki arararamye arimo kunywa amazi. Amazi akaba ari ingenzi mu buzima kubera ko agize kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwacu.

Umuntu urimo gukora imyitozo ngororamubiri, akaba apfukamye yunamye yarambuye amaboko, yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'agasengeri k'umukara, apfukamye ku mukeka.

Umukobwa wambaye agasengeri ka move, akaba yambaye na ekuteri z'umweru, arimo kunywa amazi mu icupa rijya gusa ubururu, afite kandi imisatsi yazirikiye inyuma.

Agakoresho kifashishwa mu gihe abantu barimo gukora imyitozo ngororamubiri, aka kuma kakaba kifashishwa mu gihe umuntu ashaka kugira amatuza manini, kakaba gafite ahantu umuntu agenda asunika akongera akagarura, kari mu mabara y'umukara icyatsi ndetse hariho amagambo yanditse mu mabara y'icyatsi n'umweru.

Umuntu ufite ijagi mu ntoki, akabati arimo gusuka amazi mu gikombe cy'ikirahure, amazi ni ikintu cyiza cyane kubera ko afasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kwigisha abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi, kumenya uburyo ushobora gupima umurwayi, iruhande hakaba hari igipupe cyifashishwa mu kwereka abanyeshuri ukuntu bapima indwara z'umutima.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gupima umurwayi bityo bakamenya uburyo umutima utera, bakaba bafata udukoresho tumwe na tumwe tw'utwumvisho bakadukoza ku murwayi bityo bakabonera mu gakoresho kameze nka televiziyo, ukuntu umutima urimo gutera.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, akaba ari ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa mu gihe barimo kudoda umurwayi wakomeretse, bimwe biri mu dukarito ariko ibindi biri mu ducupa.

Abantu babiri umwe akaba ari umuganga naho undi ari umurwayi, umuganga yambaye itabura y'umweru, yambaye n'isaha ku kuboko naho umurwayi yambaye agakabutura kajya gu gusa umukara, n'agapira k'umutuku umuganga afashe ku ivi ry'umurwayi, ari kumva aho ababara.

Umukobwa wicaye kuri tapi y'umukara, akaba yasobekeranyije amaguru, bisa naho arimo gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hateretse mudasobwa, iruhande rwayo hateretse utwuma twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikirango kijya gusa nk'ikigina kiriho uruziga rw'umweru rurimo akamenyetso ko guteranya gateyemo amarangi yumutuku, bigaragara ko ari ibintu bijyanye no gutanga amaraso.

Umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri akaba yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara, arahagaze ukuguru kumwe kuri hasi ukundi kuri hejuru ku biti, arunamye amaboko ye yafashe ku kuguru kuri hejuru ku biti, bisa naho arimo kugorora amaguru.

Ibintu bitandukanye biteretse aha ngaha, urugero: amalonji, ji iri mu kirahure, agakoresho kifashishwa mu gukora siporo, imetero ikoreshwa mu gupima imyenda, inyeri, pome ndetse n'ikirahure cy'amazi.

Abantu bari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri hakaba hari umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri ubona ko abyibushye cyane yubatse umubiri hirya ye hari umukobwa usutamye bisa naho ariwe urimo kumutoza ibyo agomba gukora .

Umukobwa wicaye ukuguru kumwe kw'iburyo yakurambuye, ukw'ibumoso yaguhinnye arunamye amaboko ye yayarambuye akojeje ku kuguru kw'iburyo imbere ku mano bigaragara ko ari muri siporo yicaye ku kumukeka ujya gusa umukara, hirya ye hari ibyatsi.

Umukobwa upfukamye akaba akaguru ke k'ibumoso kari imbere na ho ak'iburyo kari inyuma, yazamuye amaboko, yambaye agasengeri k'umweru bigaragara ko arimo gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri bigaragara ko umwe ari umurwayi, undi akaba ari umuganga, umurwayi akaba arimo guterura utwuma tumwongerera imbaraga mu ntoki, naho umuganga akaba yunamye arimo kumuganiriza mu rwego rwo kumwongerera imbaraga.

ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga hakaba harimo ndetse n'imiti urugero nk'ibinini n'indi miti iri mu ducupa umurwayi ashobora kunywa bityo akagira ubuzima bwiza, hari imiti imwe n'imwe iri mu ducupa ndetse n'indi iri mu dusashi.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba yambaye n'akantu k'umukara ku kuboko, akaba arimo kunywa amazi mu icupa ry'umweru, bigaragaza ko avuye muri siporo, hanyuma akaba afite inyota.

Umusore wambaye agapira k'ubururu, akaba yambaye na ekuteri z'ubururu mu ijosi, arimo kunywa amazi mu icupa ry'ubururu, bisa naho anyotewe kunywa amazi cyane, hasi ku kuboko akaba yambayeho akantu k'umweru.

Umuntu wambaye esume mu ijosi ndetse n'agapira karimo utubara tw'ubururu akarongo k'umweru n'utundi tubara tw'icyatsi, arararamye afite agacupa mu ntoki ari kunywa amazi. Ako gacupa gafite umupfundikizo w'ubururu hirya hari ikirere kitari buze gutanga imvura.

Umuganga wambaye impuzankano yambarwa n'abaganga, akaba afite mu ijosi akuma kifashishwa mu gihe barimo gupima umutima kugira ngo bamenye uburyo utera, yambaye ga z'ubururu ntoki, arimo kwambara agapfukamunwa, imbere ye ku meza hateretse mudasobwa k’uruhande rwayo har’amakayi.

Umugabo wicaye wambaye agapira kajya gusa umweru ariko nanone katari umweru yifashe ku kuboko kw'iburyo, akaba afatiyeho ishashi y'ubururu bisa naho yavunitse ukuboko akaba arimo kwivura.

Umugabo wambaye agapira kajya gusa n'ivu ,yambaye ekuteri mu matwi z'umweru, afite agacupa ka amazi mu ntoki arimo kunywa amazi, bigaragara ko afite inyota nyinshi cyane.

Ibikoresho bitandukanye ndetse n'imbuto zitandukanye, mu mbuto harimo insenda, imineke, kokombure, pavuro, pome ndetse na shufurere, naho mu bikoresho akaba byose ari ibikoresho byifashishwa muri siporo.

Abantu batandukanye bateraniye ahantu hamwe, bakaba barimo gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo, higanjemo igitsina gabo ariko harimo n'abagore bamwe na bamwe.

Abantu babiri bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri, umwe ni umwirabura naho undi ni umuzungu, umwirabura aryamye ku gikoresho kimeze nk'igitanda, naho umuzungu yunamye iruhande rwe.

Abantu babiri bari mu cyumba cyo kwa muganga umwe ni umuganga undi ni umurwayi, umuganga yambaye impuzankano y'ubururu y'abaganga akaba yambaye n'ikarita y'abaganga mu ijosi, afashe ukuguru k'umurwayi arimo kujya akugorora naho umurwayi aryamye hasi.

Umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri; akaba yambaye agasengero kajya gusa umweru, amaboko ye arabyimbye cyane, bigaragara ko ari umuntu ukunda gukora imyitozo ngororamubiri cyane, inyuma ye hakaba hari ibintu bijya kumera nk'ikigega.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga mu gihe barimo gupima abarwayi kugira ngo bamenye uko imibiri yabo ihagaze, hari agakoresho gato ku ruhande bashyira mu kwaha k'umurwayi bakamenya igipimo cy'ubushyuhe afite.

Umuntu uryamye mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, akaba yaziritse ukuguru kwe, mu rwego rwo kugira ngo akore siporo zigorora amaguru, hirya ye hari ibyuma bitandukanye, bifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umumama wambaye ishati ijya gusa umweru, akaba yambaye agashakaporari mu ijosi, afashe ku kuboko kwe kw'ibumoso bigaragara ko ashobora kuba yavunitse, hakaba hari ishashi y'ubururu yafatiyeho.

Inzu irimo icyuma cyifashishwa kwa muganga mu gihe baririmo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, akaba ari icyuma gihenda cyane kuko biragoye kukibona muri Afurika.

Umugabo wambaye agasengeri k'umukara, akaba yamanitse amaboko, ukuboko kumwe yagukojeje mu mugongo, afashe ku rutugu, naho ukundi akaba yakuzamuye, yakunyujije hejuru y'umutwe, akagufatisha ku nkokora. Bisa n'aho arimo gukora siporo.

Abantu benshi batandukanye bateraniye ahantu hamwe, hakaba hari abantu babiri bambaye amajire y'umutuku bateruye umusore wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi.

Umukobwa urimo gukora siporo akaba yambaye agakabutura gatoya kajya gusa icyatsi ndetse n'agasengeri k'icyatsi, akaba yazamuye akaguru k'iburyo yagahinnnye mu rwego rwo kugira ngo arambure amaguru bityo agororoke.

Umuntu urimo kunywa amazi mu icupa ry'umweru, bigaragara ko afite inyota nyinshi cyane, afite utwanwa duke kukananwa, arararamye bisa naho adashaka gukura icupa ku munwa.

Umusore wambaye agapira k'icyatsi, akaba araramye arimo kunywa amazi bisa n'aho afite inyota nyinshi cyane nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri. Akaba ari umusore ufite ukuboko kunini cyane bigaragara ko yakoze siporo, nazo zikamuyoboka.

Umukobwa wicaye wambaye agasengeri kajya gusa ubururu akaba araramye arimo kunywa amazi mu gacupa k'ubururu, afite imisatsi yazirikiye inyuma miremire, hirya ye hari ikirere kijya gusa nk'umwijima bisa naho ari ku nyanja.

Umuntu wunamye urimo gukora siporo akaba yambaye inkweto za supuresi z'icyatsi akaba yambaye isa ku kuboko ikindi akaba yambaye ikabutura ntoya yumukara ndetse n'agasengeri k'icyatsi.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi akaba araramye afite icupa ry'amazi mu ntoki arimo kuyisukaho ku gahanga ashobora kuba avuye mu myitozo ngororamubiri, umubiri we washyushye cyane akaba agira ngo arebe ko umubiri we watuza.

Umukobwa wazamuye amaboko hejuru, akaba arimo kuyagorora mu rwego rwo kugira ngo umubiri ugororoke. Afite imisatsi yasukishije hakaba hariho akantu gafata imisatsi kugira ngo itamujya mumaso.

Umukobwa wicaye warambuye ukuguru kw'iburyo naho ukw'ibumoso akaba yaguhinnye, arunamye yafashe ku r’ukweto bigaragara ko ari gukora siporo zo kugorora umugongo. Yambaye ekuteri, iruhande rwe hateretse icupa ry’amazi arimo kunywa.

Abantu babiri umwe akaba ari umuganga undi ari umurwayi, umurwayi yambaye agapira k'amaboko magufi k'umukara, akaba afite akantu mu ntoki gasa n'umuhondo arimo kujya akifashisha mu kugorora amaboko naho umuganga yambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ikarita imuranga mu ijosi, akaba arimo kumufasha kugorora amaboko.

Umukobwa uryamye hasi warambuye akaguru k'ibumoso naho ak'iburyo yagahinnye yagafatishije amaboko ye, bigaragara ko arimo gukora imyitozo ngororamubiri aryamye ku itapi ijya gusa umukara, inyubako arimo iteye amarangi ajya gusa umweru.

Umuntu uteruye icyuma iterurwa mu gihe umuntu ashaka kubaka umubiri, imbere ye hari imboga z'amoko atandukanye, umuntu ashobora kurya mu gihe ashaka kugira ubuzima bwiza.

Bande iri mu ishashi izinze, bande ikaba yifashishwa mu gihe umuntu yavunitse igufwa runaka, bityo akazirika aho hantu havunitse kugira ngo hongere hasubire mu mwanya waho. Ikaba izinze mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abantu babiri, umwe akaba ari umuganga naho undi ari umurwayi, umuganga yambaye impuzankano y'abaganga ndetse na ga z'umweru mu ntoki naho umurwayi yambaye agapira k'umweru n'ikabutura irimo amabara atandukanye, afashe ku cyuma kimufasha gutambuka.

Abantu babiri bigaragara ko umwe ari umurwayi undi akaba ari umuganga, umuganga yambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara, naho umurwayi yambaye ikabutura ya kaki n'agapira k'umweru, karimo utubara tw'umutuku akaba yavunitse amaguru barimo kumupfuka.

Umugabo wicaye wambaye ikote ry'itiriningi, arimo kunywa amazi mu icupa ry'umukara bigaragara ko afite inyota nyinshi cyane, kuko adashaka gukura icupa ku kumunwa.

Umuganga ufashe umwana akaba afite mu ntoki igikoresho kimeze nk'itoroshi ari gucana mumaso yumwana kugira ngo amenye uko umwana ameze umuganga akaba yambaye ijile y'ubururu.

Ibishushanyo bigaragaza intoki, bikaba bigaragaza ukuntu intoki z'umuntu ziteye, bityo bigafasha umuntu uwo ari we wese kumenya intoki zigize ibiganza bye n'uko yazirinda kwangirika.

Umuntu ufashe icupa ry'amazi akaba arimo gusuka amazi mu gikombe cy'ikirahure, mu rwego rwo kugirango abone amazi yo kunywa, amazi ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko adufasha kugira ubuzima bwiza.

Umuntu uhagaze wambaye insimburangingo ku kuguru kubera ko yamugaye ukuguru. Imbere ye hari izindi nsimburangingo eshatu bigaragara ko nawe ushobora kuza ukagura mo imwe kugirango nawe ubone uko uzajya utambuka mugihe ufite ukuguru kumwe.

Umukobwa wambaye agapira kajya gusa nka move, wambaye na ekuteri mu mumatwi z'umweru, arimo kunywa amazi yashyize agacupa ku munwa ntashaka kugakura ku munwa, bigaragara ko afite inyota nyinshi cyane.

Umukobwa uhagaze wazamuye amaboko hejuru, bigaragara ko arimo gukora imyitozo ngororamubiri, hanyuma akaba arimo kugorora amaboko ye. Yambaye ipantaro y'umukara imufashe cyane ndetse n'agasengeri kajya gusa umweru. Ahagaze iruhande rw'ikivu

Urubyiruko rwateraniye mu kibuga gikorerwamo siporo, bakaba barimo kubyina bishimira intsinzi, imbere yabo hakaba hari umuntu urimo kubafasha kubyina mu rwego rwo kwishimira intsinzi.

Umukobwa wicaye akaba yunamye yashyize amaboko ye ku nkweto, bigaragara ko arimo gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye mu byatsi hirya ye hari ipoto ririho amatara menshi, hejuru hari ikirere cy'ubururu.

Icyuma cyifashishwa kwa muganga mugihe bashaka gutwara ibintu bitandukanye kikaba gifite amapine ane y'umukara hejuru kikaba gisa umweru ariko nanonene hejuru aho ubafata hakaba hasa umukara.

Abantu babiri barimo gukora imyitozo ngororamubiri umwe akaba ari umukobwa undi ari umusore, umusore akaba araramye arimo kunywa amazi bisa naho afite inyota nyinshi cyane, imbere yabo hateretse ibikapu bibiri by'umukara.

Umuntu wikokoye bigaragara ko amaze gukora siporo, akaba afite amatuza manini bigaragara ko yubatse umubiri, ku rutugu hariho utuntu twometseho tw'ubururu ndetse n'utundi tujya gusa nka move bisa n'aho yavunitse.

Umuntu wambaye umupira w'icyatsi afite umupira mu ntoki wifashishwa mugihe barimo gukina umupira w'amaboko. Akaba ari umuntu w'umusore bigaragara ko akunda gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri umwe akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri undi ari umutoza urimo kumufasha kumenya uburyo yakoramo imyitozo, uri gukora imyitozo arapfukamye afite utuntu mu ntoki tumeze nk'uducuma, arimo kujya araduterura mu rwego rwo kugira ngo yubake umubiri.

Umukobwa uryamye wihinnye umugongo, akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri agerageza kumanura umutwe we kugira ngo agorore umugongo cyangwa se urutirigongo. Yambaye ipantaro y'umukara imufashe cyane yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri aryamye kuri tapi y'umutuku.

Abantu benshi barimo kujya ahantu hari umugezi usuma bisa naho ari ba mukerarugendo, iruhande rwabo yaba iburyo n'ibumoso hari ibihuru byinshi bigaragara ko ari mu ndiri yinyamaswa.

Akabati karimo amacupa menshi atandukanye, bisa n'aho ari imiti ipanzemo, akaba ari uducupa tubikwamo imiti mu rwego rwo kugira ngo imiti ibikwe neza, bityo abarwayi bahabwe imiti yujuje ubuziranenge.

Ingemwe z'imbuto ziri mu tuntu tumeze nk'utudobo, bakaba barazinajije bakazishyira mu tuntu tumeze nk'utudobo mu rwego rwo kugira ngo babone ukuntu bazitaho. Ingemwe iyo zishyizwe ahantu runaka zitabwaho, zigakura bityo umuntu uzishaka akazitera zifite ubuziranenge.

Agacupa kajya gusa nk'umweru, ariko na none katari umweru, kakaba gafite umupfundikizo w'ubururu. Kariho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, hejuru hakaba hari akanyoni gashushanyije mu ibara ry'ubururu.

Ibiti bimeze nk'ibihuru akaba ari ibiti bishobora kwifashishwa mu gihe umuntu arimo gushaka imiti y'ibyatsi, imiti y'ibyatsi ikaba ari imiti ikurwa mu bihuru bityo bakayisekura ubundi bakayanika nyuma yaho bakayiha umuntu urwaye maze agakira.

Ibyatsi bizwi nka teyi; akaba ari ibyatsi byifashishwa mu kubishyira mu biryo kugira ngo bihumuze ibiryo, bikaba biteretse ku kantu kameze nk'agati kabajije neza kameze nk'ameza, rero ibi byatsi nawe ukaba wabifata ukabishyira mu biryo mu rwego rwo kugira ngo ibiryo byawe bihumure neza.

Ahantu hari ibiti byinshi cyane bisa n'aho ari mu ishyamba, hakaba hari ibiti by'amoko atandukanye, ndetse bifite n'amabara atandukanye, hakaba hasa nko muri parike y'ibirunga, kuko wagira ngo habamo ingagi.

Inkoko iteretseho udukoresho dutandukanye, hariho agasahani gatoya gakoze mu buryo bugezweho k'umweru gafitemo n'agahini k'umweru, hakaba hari uducupa dutatu dusa, iruhande rwatwo hakaba hari agakombe kameze nk'ivaze.

Imbuto zitandukanye zishobora kwifashishwa mu gihe umuntu ashaka kugira ubuzima bwiza hakaba hari amaronji y'icyatsi ndetse nay'umuhondo.

Ahantu hari ibintu bitandukanye, ibice bimwe bikaba birimo ibyo kurya, cyane cyane imboga rwatsi, urugero nka dodo, hakaba hari na za karoti ndetse n'inyanya, ikindi gice kikaba kirimo ibijyanye n'ibyokunywa biri muri za etajeri.

Udukoresho twinshi dutandukanye, tukaba tumeze nk'udutebo, turimo ibintu byinshi bitandukanye byo kurya, hamwe harimo ibintu bimeze nk'ibitunguru, ahandi harimo ibimeze nk'ibihaza, ahandi hakaba harimo ibimeze nk'inanasi, ahandi hakaba harimo ibimeze nk'amakaroni.

Ikimera cyarabye indabo z'umweru, bigaragara ko gishobora kwifashishwa mu gihe barimo gutaka ahantu henshi hatandukanye, hirya yacyo hari ibyatsi by'icyatsi bisa naho ari mu gihuru.

Ikimera gisa neza cyane bigaragara ko cyatewe mw’ifumbire ndetse kikavomererwa, kikaba ar’icyatsi gitoshye cyane ku buryo nawe ushobora kwifuza kukireba, bityo nawe ukamenya ukuntu uzajya wita ku bimera.

Agasekuru gato ka kizungu kakaba ari agasekuru babumbye mu ibumba kakaba karimo umuhini mutoya bifashisha barimo gusekura ibyatsi mu gihe barimo gukora imiti iruhande rwako hari imiti y'ibyatsi basekurira muri ako gasekuru.

Agacupa kavamo umuti w'amenyo akaba ari agacupa gateye neza kuko biroroshye kugatwara kandi kabika umuti neza, iruhande rw'ako hari akantu kameze nk'isahani gateretseho isabune, hirya y'iyo sahani hari voka isatuye.

Agacupa bigaragara ko karimo imiti, gafite umupfundikizo w'umuhondo, kakaba kariho agashashi gafunze ku mupfundikizo, mu rwego rwo kugaragaza ko katigeze gakoreshwa.

Urugemwe rwa avoka, avoka akaba ari imbuto nziza cyane, abantu benshi bakunze kurya kuko zikungahaye ku ntungamubiri, nawe rero ushobora kuba warya avoka mu rwego rwo kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Abantu babiri, umwe afite agacupa mu ntoki bisa nk'aho karimo umuti w'amenyo wakozwe mu gikakarubamba, akaba arimo gusukira uwo muti undi muntu ku buroso bw'amenyo kugira ngo ajye koza amenyo.

Ikimera cyitwa umuravumba, hirya yacyo hari indabo ziri mu mabara atandukanye. Umuravumba akaba ari ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, igihe umuntu atari yajya kwa muganga.

Amacupa y'ubwoko butandukanye, akaba ari amacupa ateretse ku meza, hari amacupa atatu ajya gusa ariko na nonene atangana, iruhande rwayo hari icupa rirerire ririmo ibintu by'umukara, hirya yabyo hari igishushanyo kiriho ibintu by'umukara.

Umuganga ufite imiti mu ntoki, akaba ari imiti yifashishwa mu kuboneza urubyaro, umuganga yambaye itaburiya y'umweru, akaba afite ibiganza by'inzobe bisa naho ari umuzungu.

Agacupa kabikwamo umuti w'amenyo akaba ari umuti w'amenyo ukorwa mu gikakarubamba, uwo muti ukaba ufasha abantu mu kwirinda indwara zifata mu kanwa kubera ko igikakarubamba ari kimwe mu miti myiza cyane.

Umuntu ufite agapapuro mu ntoki kariho imiti y'ibyatsi yanitse ubundi akayisekura, bisa naho ari umuvuzi gakondo akaba afite ibiganza by'umukara bigaragara ko ari umuntu ukuze.

Agacupa k'umweru kariho amagambo yanditse mu mabara y'icyatsi, akaba ari agacupa gasa nk'akarimo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zo mu kanwa.

Agakarito kavamo ibinini kakaba kari mu mabara atandukanye urugero umweru, ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku, imbere y'ako hakaba hari agapaki k'ibinini kariho ibinini icumi.

Amoko y'ibyatsi bitandukanye, hakaba hari icyatsi kimeze nk'igikakarubamba, hakaba hari ibyatsi bimeze nk'indabo, hakaba hari ibyatsi bimeze nk'imihati, n'ibindi bimeze nk'amateke.

Uducupa twinshi cyane dutandukanye, tubikwamo imiti, akaba ari uducupa dukunze kwifashishwa mu kubika imiti, kubera ko uducupa tubika imiti neza, bityo bigatuma imiti itangirika, igihe cyose imiti yaba iri mu bubiko.

Ikibabi gitoshye kiriho amazi bisa nk'aho bamaze kucyuhira, kikaba kiyaga bigaragara ko cyitabwaho cyane, kikaba giteye mu butaka burimo ifumbire, bigaragara ko bacyitaho umunsi ku munsi.

Uducupa tubiri tumeze nk'utuzamo umuti w'amenyo, kamwe kakaba gasa umweru kariho amagambo yandikishije amabara y'icyatsi naho akandi kakaba gasa umweru ariko kariho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu hagati yatwo harimo akantu kameze nk'agakarito.

Uducupa tubiri duteretse bisa n'aho ari uducupa tubikwamo imiti, kamwe gafite umufuniko ujya gusa n'umuhondo, naho akandi gafite umufuniko ujya gusa na shokora, duteretse ahantu hari amakaro meza ameze nka tapi, imbere yatwo hari ibintu bimeze nk'imineke.

Ikimera cy'umuravumba, ni ikimera cyiza cyane cyifashishwa mu buvuzi, kubera y'uko kera abanyarwanda bataratangira gukunda kujya ku mavuriro, baracyifashishaga, bakivura indwara zabafashe mu mihogo.

Ikibabi kiriho ibinini, akaba ari ibinini bivura indwara zitandukanye, iyo umuntu anyoye ibinini biramufasha, kubera yuko bituma adakomeza kurwara.

Agacupa k'ubururu bigaragara ko ari agacupa kabikwamo umuti wo kwisiga kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hejuru hashushanyijeho akanuma k'umweru.

Agacupa kariho icyapa cyanditseho amagambo arimo ibara rijya gusa nk'umutuku, hasi hakaba hariho imbuto zigaragaza ibintu biri muri ako gacupa, akaba ari agacupa gafite umupfundikizo ujya gusa nk'umutuku.

Ikirango kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, kikaba gishushanyijeho ibintu bimeze nk'ibyo kurya, iruhande rwaho ku meza hateretse akantu kaba kariho ibinini. Ibinini byifashishwa mu gihe umuntu arwaye indwara runaka kugira ngo akire.

Agacupa k'umweru kariho ikirango kigaragaza imiti ikarimo kakaba gafite umupfundikizo w'umweru, ni agacupa katari kanini ku buryo umuntu ashobora no kugashyira mu mufuka akigendera.

Agacupa kajya gusa umweru ariko nanone katari umweru gafite umupfundikizo wumutuku kanditseho amagambo ari mabara yumutuku, hejuru y'ayo magambo hari agashushanyo kameze nk'inuma gashushanyijeho kari mu ibara ry'umutuku.

Ibiti byinshi bimeze nk'indabo, akaba ari ibiti biteye ahantu hasa nko mu ishyamba, ariko nanone hatari ibiti b'yinturusu, akaba ari ibiti bimeze nk'indabo, bishobora kwifashishwa n'imitako.

Ibyatsi bitoshye bisa icyatsi bigaragara ko byitaweho cyane byuhirirwa bikavomererwa bigashyirwamo ifumbire, bityo bikamera neza ikindi bakaba barabiteye n'umuti.

Amacupa atandukanye, akaba ari amacupa ari mu bwoko bunyuranye, hari icupa ry'icyatsi, hakaba hari icupa ry'umweru, hakaba hari icupa ry'umukara n'utundi ducupa dutoya.

Ingemwe z'imiravumba, umuravumba akaba ari kimwe mu kimera kifashishwa mu kuvura abantu barwaye indwara zimwe na zimwe cyane cyane zimwe zifata mu muhogo mu gihe umuntu ari kumira, ariko akamira ababara mu muhogo.

Amacupa atandukanye ari mu bwoko butandukanye, bigaragara ko ari amacupa abikwamo imiti gakondo, imiti gakondo akaba ari imiti yifashishwa igihe umuntu arimo kwivura indwara zananiranye.

Ibikoresho bitandukanye biteretse ahantu runaka, urugero agasekuru ka kizungu karimo n'umuhini, kifashishwa mu gusekura imiti, iruhande rwaho hakaba hari imiti isekurwa igihe barimo gutegura imiti yo kuvura abantu.

Agacupa gasa ubururu gafite umupfundikizo w'icyatsi kakaba kariho ishashi ifunz umupfundikizo mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ko katigeze gakoreshwa cyangwa se ngo ibirimo bikoreshwe, iruhande rwako hari amagambo y'mweru.

Ikirango kiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'anandi ajya gusa umuhondo, kiriho umukobwa wambaye agapira kajya gusa n'ubururu bwijimye, ugaragara nkaho arwaye.

Urugemwe rw'inajijwe, akaba ari urugemwe rw'icyatsi bigaragara ko rwafumbiwe, rugahabwa ifumbire ihagije mu rwego rwo kugira ngo ruzakure neza, rusa icyatsi rumeze nk'urugemwe rw'ikawa.

Amacupa menshi atandukanye ari mu mabara atandukanye bigaragara ko ari amacupa abikwamo imiti. Amacupa amwe n'amwe asa icyatsi mu gihe andi asa umweru ariko akaba afite imipfundikizo y'icyatsi. Hirya hari andi macupa y'umweru afite n'imipfundikizo y'umweru.

Ibikoresho bitandukanye bisa naho ari ibya kera hakaba harimo; ibyungo, ibicuma, amacupa atandukanye, inkoko amashashi imifuka, bisa nahoho byose byajugunywe kuko bisa n'ibishaje cyane.

Igiti cy'umuravumba, umuravumba ni igiti gakondo cyahereye kera gikoreshwa mu gihe umuntu yabaga arwaye indwara zamutunguye bityo akabona atari ngombwa guhita yihutira ajya kwa muganga kubera ko abona uburwayi budakomeye cyane.

Agacupa k'umweru kariho amagambo yanditse mu mabara y'icyatsi bisa naho ari agacupa kabikwamo umuti w'amenyo. Akaba ari agacupa karekare gafite n'umupfundikizo.

Amacupa y'amoko atandukanye, akaba ari amacupa arimo imiti itangirwa kwa muganga, hakaba hari amacupa y'umweru, hakaba hari icupa ry'umuhondo, hakaba hari n'akandi gacupa k'icyatsi.

Amacupa ari mu moko atandukanye, ateretse muri etajeri bigaragara ko ari mu nzu y'ubucuruzi, hakaba harimo amacupa abamo ibinyobwa bidasindisha, hakaba hari n'andi macupa arimo ibinyobwa bisindisha, hino gato hari amacupa arimo amavuta yo kwisiga.

Ishyamba ririmo ibyatsi by'amoko atandukanye hakaba harimo n'ibiti birebire, hirya y'aho gatoya hari ibiti byinshi cyane bicucitse bigaragara ko hashobora kuba ari muri parike habamo inyamaswa nyinshi.

Abahinzi bari mu isambu ihinzemo ibintu bimeze nk'icyayi, bigaragara ko barimo kubagara, bakaba bambaye imyenda y'ibitambaro bikwije mu rwego rwo kugira ngo badakomerekera mu isambu, akaba ari isambu iri ahantu h'ikibaya.

Agacupa k'umweru gateretse, akaba ari agacupa gafite nka santimetero eshanu, kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara rijya gusa n'ivu, hejuru hakaba hariho agashushanyo gashushanyije kajya kumera nk'isazi, kakaba gafite umupfundikizo w'umweru.

Uducupa tubiri duteretse, iruhande rwatwo hari utuntu tumeze nk'udukarito, turimo ibintu bitandukanye. Utwo ducupa akaba ari uducupa turi mu mabara y'umuhondo, dufite imipfundikizo ya shokora.

Amacupa y'ubwoko butandukanye ikindi akaba ari mu mabara atandukanye, hakaba harimo amacupa amwe n'amwe azwi nka kanete abikwamo ibinyobwa bimwe na bimwe kugira ngo birambe bitahita byangirika.

Igishushanyo cy'avoka kikaba kiriho ndetse n'isabune, bigaragara ko isabune yakozwe muri avoka hanyuma avoka akaba ari urubuto rushobora gukurwamo ibintu bitandukanye.

Uducupa tubiri turi mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi tukaba dushushanyijeho ibintu bimeze nk'ibikakarubamba, bisa nk'aho turimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, hakaba hariho amagambo yanditse mu mabara y'icyatsi ndetse n'ayanditse mu mabara y'umukara.